Ubanyeshuri umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, umunani, bicaye ku ntebe z'ishuri bose bambaye udupfukamunwa dufite amabara atandukanye, bakaba bafite amasahani ariho ifunguro rya saa sita.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, benshi muri bo bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, ndetse hakaba harimo n'abambaye ingofero zigiye zitandukanye zifite amabara atandukanye n'abagore bateze ibitambaro, bakaba bicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, iyo nzu mberabyombi ikaba ifite ibikuta bifite amabara y'umweru ndetse n'inzugi zifite ibara rijya gusa nka kaki, amadirishya arimo ibirahurire, amadirishya akaba afite ibara rijya gusa nk'umweru.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi bagiye batandukanye bambaye imipira itandukanye harimo abambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'abandi bambaye imipira ifite ibara ry'umweru bose bicaye ku ntebe aifite ibara ry'umutuku bose bakaba bambaye udupfukamunwa imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'umweru akaba ariho n'amakayi afite ibara ry'ubururu ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore bagiye batandukanye, harimo abashinzwe umutekano n'abandi, bakaba bicaye imbere y'inzu ifite ibara ry'ubururu, hejuru ku nzu hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo y'ururimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo gira ubuzima, hakaba hari n'imodoka ibahagaze imbere yabo.

Abantu benshi bahagaze batandukanye harimo abaganga ndetse n'abaforomokazi, bambaye imyenda igiye itandukanye, bahagaze iruhande rw'icyapa gifite igice cyo hejuru gifite ibara ry'umweru ndetse ikindi gice cyo hasi kikaba kiriho ibara ry'ubururu, hakaba hariho igishushanyo cy'umuganga wambaye agakoresho gapima uko umutima w'umuntu utera, munsi hakaba hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru n'icyatsi.

Abantu benshi bahagaze, harimo abamama, abakobwa ndetse n'abana bahagaze imbere ya robine, bose bafite ibikoresho byabugenewe byo kuvomeramo bifite amabara y'umuhondo ndetse hakaba hari umugabo wambaye ingofero y'ubwirinzi, mu gihe hari kubakwa, akaba yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikabutura ifite ibara rijya gusa umweru.

Abana babiri harimo uwambaye agapira gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'ikabutura ifite ibara rijya gusa umutuku, akaba afite ibinika mu ntoki ifite ibara ry'ubururu, irimo amazi, imbere yiwe hakaba hari undi muhungu wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umuhondo, akaba afite isabune mu ntoki, hasi yiwe hakaba hari indobo ifite ibara ry'ubururu.

Inzu mbera byombi yateraniyemo abantu bagiye batandukanye bicaye mu bice bitandukanye igice cyo hasi cyicayemo abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore harimo abirabura ndetse n’abazungu. Abayoboye ikiganiro bicaye ku gice cy'imbere harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bicaye ku ntebe ifite ibara rijya gusa nka kaki, inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse kikaba gifite n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, kikaba kiriho n'ishusho y'umuntu wambaye ibikoresho by'ubwirinzi mu gihe habayeho icyorezo.

Abantu batandukanye harimo abaganga ndetse n'abandi bantu batandukanye bambaye imyenda igiye itandukanye. Bahagaze imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye ifite imiryango ndetse n'amadirishya by'umweru hakaba harimo ibirahure. Hejuru ku nzu handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse bakaba bahagaze iruhande rw'icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ndetse n'umweru ahahera, hasi hera.

Abamama bicaye ku ntebe y'urubaho bakikiye abana batoya, bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye ibitenge bifite amabara agiye atandukanye ndetse n'abambaye imipira igiye itandukanye, biyegamye ku gikuta gifite amatafari ahiye asize amarangi agiye atandukanye, harimo umutuku ndetse n'umweru n'umukara.

Ibyuma bigiye bitandukanye bigiye bicomekeranyije harimo amacupa abiri maremare afite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, akaba acomekeranyije n'akandi kuma gafite ibara ry'ubururu harimo n'ibara ry'umweru. Munsi yaho hakaba hari agacupa gato gafite ibara ry'ubururu, gafite umufuniko w'umukara. Bikaba bicomekeranyije ku byuma bigiye bitandukanye. Ku ruhande hakaba hari ikindi cyuma gifite ibara ry'umukara hose.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu rwijimye ndetse hakaba hariho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umweru n'icyatsi ndetse n'irindi bara rijya gusa umweru, ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse akaba ari akarango gashushanyije mu nyuguti ya L ndende, akaba ariho imibare igiye itandukanye.

inzu mberabyombi irimo abantu benshi batandukanye bambaye n’imyenda itandukanye harimo abambaye imyenda y'umweru umukara umuhondo iyo nzu mberabyombi akaba arimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba yambaye n'ikarita iriho imyirondorowe mu ijosi akaba ari gukingira umwana w'umukobwa wambaye ishati ifite ibara ry'uburu akaba ari kumutera urushinge rw'urukingo

Inzu mberabyombi ifite inkuta z'umweru, irimo abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abana n'abagabo, ikaba ifite parafo ifite ibara ry'umweru ndetse n'itara ry'umweru, ikaba ifite n'amadirishya afite ibara ry'umweru arimo ibirahure.

Umwana mutoya w'umukobwa wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, akaba ari ku ivomero rusange rya robine, ku ruhande rwe hari icyapa gifite ibara ry'umweru, ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umukara.

Abagabo babiri bahagaze harimo uwambaye umupira w'ubururu ndetse akambara n'ikarita imuranga mu ijosi ufite umugozi w'umutuku, akaba ahagararanye n'undi wambaye ishati y'amaboko magufiya uhetse igikapu gifite ibara rijya gusa na kaki.

Abantu benshi batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abahagaze ndetse n'abandi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, inyuma hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, bakaba bari mu nzu ifite inkuta z'umweru.

Ubuso bw'ubururu burimo ikirango gifite amazina y'impine arimo UN WF na P, bizengurutswe n'ikindi kirango gisobanyije.

Abana; umwe babiri batatu bane batanu batandatu bari mu mazi bari koga, harimo abahungu ndetse n'abakobwa bari koga mu mazi y'umugezi asa nabi.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore ndetse n'abana batoya bahuriye ku ivomero rusange baje kuvoma, kuri iryo vomero hakabaho ibintu bigiye bitandukanye byo kuvomeramo, harimo amabase ndetse n'andi mabase akoze mu byuma, ndetse n'amajerekakani afite amabara agiye atandukanye harimo umuhondo umweru ndetse n'icyatsi.

Abantu babiri batandukanye harimo umugabo wambaye umupira ujya gusa umweru ndetse n'ipantaro isa umukara yazinze, yambaye inkweto z'umweru ari koza igare ryiwe, ku ruhande rwiwe hari umugore ufite ijerekani mu ntoki uri kuvoma amazi yo mu mugezi.

Abantu benshi bahagaze harimo abagore n'abagabo ndetse n'abakobwa n'abasore, bambaye imyambaro igiye itandukanye, bahagaze hasi hasize irangi rifite ibara ry'umutuku. Inyuma yabo hakaba hari inzu ifite inkuta zifite amabara ajya gusa umweru, akaba afite inzugi n'amadirishya bifite ibara ry'umukara birimo ibirahure.

Abagore babiri batandukanye, harimo uwambaye igitambaro gifite ibara ry’umuhondo mu mutwe, akaba yicaye ku ntebe y’umukara. Iruhande rwe hari undi wambaye ikote ririmo ibara ry’umweru ndetse n’umukara, mo imbere yambariyemo umupira w’umukara. Imbere yabo hakaba hari ameza y’ibara rya kacyi, naho inyuma hakaba hari ibendera ry’ubururu ndetse n’amarido y’ubururu

Abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda igiye itandukanye. Harimo abambaye udupira dufite ibara rijya gusa umutuku ndetse n'abana bakaba bambaye udupira dufite iba rijya gusa umutuku. Bakaba barikwitabwaho n'abagabo bagiye batandukanye harimo ushinzwe umutekano, ndetse n'undi wambaye impuzankano y'ijire ifite ibara rijya gusa kaki. Bakaba barikubaha amata mu bikombe bifite amabara agiye atandukanye.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi batandukanye, harimo abagabo n'abagore, bose bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi, imbere hakaba hari ameza afite ibara ry'umukara ateretseho amazi, amakayi, impapuro z'umweru ndetse bamwe na bamwe bagiye bafite mudasobwa imbere kuri ayo meza.

Abana benshi bicaye hasi bambaye udupira dufite ibara rijya gusa umuhondo, bari guhabwa amata n'abayobozi bakuru harimo abambaye impuzankano y'amajire afite ibara rijya gusa kacyi ndetse hakaba n'umbaye impuzankano y'ushinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kuruhande hakaba n'abandi bambaye imyenda igiye itandukanye ifite amabara atandukanye.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, harimo abagabo bane ndetse n'umudamu umwe. Bakaba bambaye imyenda itandukanye harimo abambaye amataburiya ndetse n'abandi bambaye amashati afite ibara rijya gusa ubururu. Hakaba harimo n'uwambaye ga zabugenewe. Hakaba harimo n'abafite amakarita agaragaza imyirondoro yabo. Imbere yabo hakaba hari imiti igiye itandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahagaze, imbere yabo hari ufite isakazamajwi, rifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, imbere yaho hakaba ari icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, bakaba bari gukina ikinamico kerekeranye n'ubuzima bwo kurwanya Ebola.

Umwana w'umuhungu wambaye umupira urimo amabara agiye atandukanye, harimo ay'icyatsi, aya kaki, ndetse n'andi ajya gusa umweru, akaba yambaye ikabutura ifite ibara ry'umutuku, akaba yambaye n'inkweto zifunguye zifite ibara ry'ubururu, akaba ari kunywa amazi kuri robine, ayo mazi akaba ari kujya mu ndobo.

Abagore babiri ndetse n'umwana mutoya ,umugore umwe w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari guha umuti umwana mutoya wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro ijya gusa kaki, uwo mwana akaba afashwe mu maboko n'umugore wambaye igitenge.

Abagabo batandukanye bambaye imyenda igiye itandukanye harimo abambaye imipira y'amaboko magufiya, amashati ya amaboko magufiya, ndetse n'abambaye amakote bicaye ku meza ifite igitambaro cy'icyatsi, iyo meza ikaba iriho ibikoresho bigiye bitandukanye hariho ibirahuri by'amazi, ibirahuri byaje ndetse hakaba hari n'abateretseho imirongo yabo ngendanwa igezweho hakaba hari n'uwateretseho amarinete y'amaso.

Abanyeshuri bambaye umwenda w'ishuri ufite ibara ishati ifite ibara ry'umweru, amapantaro n'makabutura afite ibara ry'umukara, ndetse hakaba harimo n'uwambaye umupira w'umutuku hasi yambaye umukara, inyuma yaho hari icyapa gifite ibara ry'umweru gifite ikirango cy'uruziga gisa ubururu ndetse n'amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ari mu ibara ry'umukara.

Abanyeshuri, umwe, babiri, batatu, bane, batanu. batandatu, bambaye impuzankano z'ikigo zifite ibara rya kaki, bose bakaba bari kuvoma amazi ajya mu ndobo zifite ibara ry'umuhondo.

Abantu batandukanye harimo abaganga, umwe, babiri, batatu bambaye udupfukamunwa ndetse hakaba hari umugabo wambaye umupira ufite ibara rya kaki nawe wambaye agapfukamunwa, bakaba bari kumutera urushinge rw'urukingo.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi mu rwanda gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibindi birango biri muri iryo bara ry'ubururu bifite ibara ry'umweru, kuruhande hari amagambo ari mu mpine afite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi munsi hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza asobanura ayo magambo ari mu mpine ari mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi harimo abaganga, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, umunani, icyenda, ndetse n'undi muntu wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku w'umuzungu, abaganga bo bakaba bambaye amataburiya y'umweru.

Umwana mutoya wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro ifite ibara rijya gusa umukara, akaba ari kuri kandagira ukarabe ikozwe mu ndobo, ifite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w'ubururu, ikaba iteretse ku meza gatoya.

Ikigega cyubakiye gifite inkuta zifite ibara rijya gusa kaki, kikaba cyubakiweho n'ibindi byuma bigiye bitandukanye bishamikiyeho, ikigega kiba gikusanyirizwamo amazi menshi agiye gutunganyirizwa mu ruganda.

Inzu mberabyombi irimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, ndetse imbere yabo hakaba hari ameza agiye ateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye hariho amacupa y'amazi, ndetse n'imitako, ndetse bamwe na bamwe bagiye bafiteho na mudasobwa. Ku nkuta z'iyo nzu mberabyombi hariho ifoto y'umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'amadirishya afite ibara ry'ubururu n'ibirahure.

Abantu batatu batandukanye, harimo umukobwa ufite imisatsi migufi, wambaye ijire ifite ibara rijya gusa umuhondo, wambariyemo agapira gafite ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu bwijimye, ahagaze hejuru y'ivomero rusange, ari kuganira n'abantu babiri, harimo umugabo wambaye ikote ufitemo umurongo w'umweru, ikote risa umukara uri kuvomera ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'umugore wambaye ikote rifite ibara ry'icyatsi, uri kuvomera ijerekani y'umuhondo.

Abana babiri basutamye harimo uwambaye imyenda idozwe mu bitenge bifite ibara ry'icyatsi, hakaba hari n'undi wambaye umupira w'umutuku n'ikabutura, bakaba bateze amaboko kuri kano y'amazi robine ipompwa.

Urupapuro rw'umweru ruriho imbonerahamwe y'ibice bibiri, aho igice cya mbere kiri mu ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, kikaba cyanditswemo amagambo ari mu ibara ry'umukara y'ururimi rw'icyongereza. Ndetse ikindi gice kiri ku ruhande na cyo kikaba gifite ibara ry'umweru, kikaba kiriho amagambo ari mu ibara ry'umukara, yanditswe mu rurimi rw'icyongereza

Abantu babiri batandukanye harimo uwambaye agapfukama ndetse n'ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru, akanambara n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu. Akaba ari kwandika mu gitabo kinini gifite impapuro z'umweru. Akaba yegeranye n'uwambaye umupira w'ubururu wambaye n'ipantaro ifite ibara rijya gusa umweru. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu Kinyarwanda ngo SIDA iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda igiye itandukanye harimo abambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu ndetse n'abambaye amakoti agiye atandukanye hari uwambaye ikoti ry'umukara n'ishati yumweru uri kugenda akamera buri gikorwa cyose kiri kubera aho ngaho ndetse nundi uri kwerekana ibikorwa byagiye bikorwa w'umugabo w’umuzungu wambaye ikoti ry'umukara hamwe nabandi bambaye amakoti.

Abantu bahagaze batandukanye bambaye imipira ifite ibara rimwe rifite ibara ry'ubururu ndetse hasi bakambara amapantaro afite ibara ry'ubururu bwijimye, bakaba bahagaze iruhande rw'ikirango rw'ikigo gishinzwe ubuzima bw'abana cyitwa UNICEF.

Abanyeshuri benshi bambaye umwenda w'ishuri ufite ibara ry'umweru riciyemo uturongo tw'ubururu ndetse amakora akaba afite ibara ry'ubururu. Bakaba bambaye amakabutura y'ubururu. Bose bakaba bafite ibikombe bifite amabara atandukanye, imbere yabo hakaba hari akuma gashinzwe kubika amazi meza asukuye yo kunywa.

Amacupa atatu afite ibara ry'ubururu yegeranye n'ikindi cyuma gifite ibara ry'umweru, gifite ibimenyetso bigiye bitandukanye gicometseho ibyuma bigiye bitandukanye ndetse munsi hakaba hari n'utundi ducupa dutoya dufite ibara ry'ubururu n'umuhondo tukaba dufite imifuniko y'umukara, ibyuma bikaba byifashishwa mu kuyungurura amazi yo kunywa.

Abagabo babiri bahagararanye, umwe wambaye umupira w'amaboko magufiya, ufite ibara ry'ubururu akaba afite ikarita imuranga ifite umugozi w’umutuku, akaba ahagararanye n'umugabo ufite igikapu mu mugongo, akaba yambaye ishati ifite ibara rijya gusa nk’ivu, bakaba bari mu nzu mberabyombi, irimo abantu bagiye batandukanye, iyo nzi ikaba ifite parafo y'umweru ndetse hakaba harimo n'ibyapa bigiye bifite amabara agiye atandukanye n'ibirango bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bateraniye hamwe bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara imbere yaho hari ameza afite ibara rijya gusa umukara hariho amacupa y'amazi ndetse n'indi mitako y’ indabyo imbere yaho hari icyapa gifite ibara ry'ubururu harimo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikirango cy'ikigo gishinzwe kwita ku buzima unicefu hirya yaho hari isakaza amashusho irimo amashusho y'ibiganza bibiri.

Abantu benshi batandukanye bahagaze imbere y'ihema rifite ibara ry'umweru ndetse n'inzu ifite ibara ry'umweru ku gice cyo hejuru ku kindi gice cyo hasi ikaba y'ubakishije amabuye abo bantu harimo abagabo n'abagore ndetse hakaba hari n'ibikoresho by'inyongeramajwi, hakaba hari n'icyapa kiri ku nzu iri imbere yawo gifite ibirango bitandukanye harimo ikirango cya repubulika y'u Rwanda, ndetse n'ibindi birango ndetse kiriho n'abafatanyabikorwa b'icyo gikorwa kiri aho.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abagore bambaye ibitambaro mu mutwe ndetse n'abandi bambaye amakanzu agiye afite amabara agiye atandukanye ndetse n'abagabo bambaye amashati atandukanye.

Abantu batandukanye, harimo abagore ndetse n'umwana, hakaba hari umugore ufite indobo ifite ibara ry'ubururu ndetse hakaba hari n'undi ufite indobo ifite ibara ry'umutuku, bahagaze imbere ya robine, iyo robine hakaba hari akapa gafite ibara ry'ubururu kanditseho Unicef.

Abantu benshi bicaye harimo abagore bafite abana ndetse n'abandi badafite abana. Imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse akaba afite impapuro mu ntoki. Ndetse hirya yiwe hakaba hari n'undi mugabo wambaye imyenda idoze mu gitenge akaba arikubahugura ku bijyanye no kwita ku buzima.

Abantu batandukanye harimo umugabo wambaye ishati irimo uturongo dutandukanye, akaba yambaye n'ipantaro ifite ibara rijya gusa nk'umweru, akaba ari gupima akana gatoya kambaye ikanzu ifite ibara rijya gusa icyatsi, uwo mwana akaba ari kumwe n'umubyeyi we witandiye ibitambaro byo mu mutwe ndetse hirya yabo hakaba hari umugabo wambaye ikanzu y'umweru ufite ikaramu mu ntoki.

Abantu benshi batandukanye bambaye imipira itandukanye harimo abambaye imipira ifite ibara rijya gusa umuhondo ikaba iyo mipira ifiteho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda muri abo bantu hakaba harimo n'abambaye imipira y'icyatsi, umukara n'umweru hakaba harimo n'ushinzwe umutekano w'igihugu wa polisi y'u Rwanda bakaba bitabiriye igikorwa cyo kubaka akarima k'igikoni.

Abantu benshi bahagaze harimo abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu ndetse bakambara n'amakarita ariho ibibaranga mu ijosi bakaba bahagaze imbere y'umugabo wambaye ikoti ry'umugabo wambaye ishati y'umweru, bose bakaba bahagaze imbere y'inyubako ifite ibara ry'umweru yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza yanditseho ikigo nderabuzima cya Mayange.

Abagore batatu bambaye imyenda itandukanye, harimo uwambaye agasengeri gafite ibara ry'umweru ndetse yacyenye igitenge gifite ibara rijya gusa umutuku, akaba ari kumwe n'uwambaye umupira urimo ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu n'umukara, akaba acyenyeye igitenge hasi kirimo ibara ry'umukara, bakaba bari gupompa amazi bayavomera mu ibase ikoze mu cyuma, hakaba hari n'undi ushinzwe kuyadaha muri iyo base bayashyira mu bivomesho bazanye.

Abantu bahagaze ndetse n'abicaye harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye hakaba harimo abambaye amataburiya afite ibara ry'umweru bakaba bambaye n'amakarita ariho ibibaranga afite imigozi y'ubururu mw’ijosi harimo n'abandi bambaye imyenda isanzwe arimo amabara y'umukara ndetse n'amabara afite ibara rijya gusa kaki bakaba bambaye nabo amakarita ariho ibibaranga mw’ijosi inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru.

Umugore w'umuganga ufite igitambaro cy'umukara mu mutwe, akaba yambaye n'umupira w'imbeho, akaba yashyizeho itaburiya iciye amaboko ifite ibara ry'umweru, akaba ari gusuzuma abagore bambaye ibitenge ndetse n'abandi bambaye imyenda igiye itandukanye, bakaba bari kubasuzuma umuvuduko w'amaraso.

Umukobwa w'umunyeshuri wambaye ishati y'umuhondo, akaba yambaye ijipo ijya gusa kaki, akaba ari gukaraba intoki kuri kandagirukarabe ifite indobo ifite ibara rijya gusa kaki ndetse n'akabati gakoze mu cyuma ari gukarabiramo.

Umugabo n'umugore bari ku ivomero rusange, bose bafite amajerekani mu ntoki, amajekani afite ibara ry'umuhondo, umugore yiteze igitambaro mu mutwe, ndetse akaba yambaye n'umupira w'amaboko maremare afite ibara ry'ubururu. Umugabo akaba yambaye ishati idozwe mu gitenge gifite ibara rijya gusa umutuku.

Icyumba cy'ivuriro kirimo abaganga babiri bambaye uturinda imisatsi dufite ibara rijya gusa icyatsi ndetse n'udupfukamunwa dufite ibara ry'ubururu bakaba bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu muri icyo cyumba hakaba harimo umukobwa wambaye agapira kagiye gusa umuhondo wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu wicaye ku ntebe y'umukara uri kuvurwa numwe mu baganga bari muri icyo cyumba.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, bose bambaye udupfukamunwa hagati ya bo harimo utumeza dutoya dufite ibara ry'umweru duteretseho amazi yo kunywa ndetse n'inyongeramajwi. inyuma ya bo hari icyapa gifite ubuso bw'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ibirango bibiri bitandukanye.

Ibiganza by'umuganga byambaye ga zifite ibara ry'umweru ndetse akaba afite n'urushinge mu ntoki akaba ari kurutera mu kaboko k'umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umweru uciyemo uturongo dutoya tw'umukara.

Abantu batatu harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga zifite ibara ry'umweru, uri kuvura umwana mutoya wambaye agapira gafite ibara rijya gusa umweru, uwo mwana akaba ateruwe n'umubyeyi we wambaye imyenda idoze mu bitenge.

Umugore wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umutuku ndetse se hasi akaba yambaye igitenge, akaba ateruye umwana wambaye ingofero ifite ibara ry'umweru, mu mutwe ndetse n'amasogisi yumye, akaba ari kuvomera mu ndobo ifite ibara ry'umukara inyuma y'iwe hakaba hari inzu zubakishijwe ibyatsi.

abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'abana bambaye imyenda itandukanye harimo abagore bambaye ibitambaro mu mutwe ndetse n'uwo usutse imisatsi miremire bari ku ivomero rusange bafite indobo zo kuvoma zifite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku ku ivomero rusange hariho akapa gatoya gafite ubuso bw'ubururu kariho amagambo y'ikigo gishinzwe ubuzima bw'abana.

Abantu bahagaze batandukanye barimo umuhungu ndetse n'abandi bakobwa bambaye imyenda itandukanye, bahagaze imbere inyuma ya bo hakaba ari icyapa gifite ubuso bw'icyatsi burimo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, munsi hakaba hariho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, ku ruhande hakaba hari ikirango cy'ikigo gishinzwe ubuzima bw'abana yunisefu, ku rundi ruhande hakaba ikindi cyapa gifite ibara ry'umweru.

Abantu batandukanye, harimo umwana mutoya ndetse n'abandi bantu bakuru, barimo abambaye udupfukamunwa, baje gutanga imiti ku bana batoya.

Abantu benshi bahagaze batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore harimo n'abaganga bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru bakaba bahagaze imbere y'inzu ifite ibara ry'ubururu hejuru yanditseho amagambo ari mw’ibara ry'ubururu ndetse afite n'igishushanyo cy'abantu bafatanye ikiganza amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo gira ubuzima.

Abantu batatu harimo abana babiri ndetse n'umugore umwe, umwana umwe yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura ijya gu gusa ibara ry'ubururu undi yambaye umupira ujya gusa ubururu mu ibara ry'umukara, hakaba hari umugore ufite ijerekani mu ntoki ari kuvoma wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umutuku ndetse n'ijipo ifite ibara ry'umutuku.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo ari mu mpine afite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, hakaba hari andi magambo ari kuru rundi ruhande ari mu ibara ry'umukara yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Agasahani kabugenewe k'icyuma gashyirwamo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubuganga bifashisha bavura, karimo inshinge zirenze rumwe ndetse n'agacupa karimo umuti wo gutera umurwayi.

Abantu batandukanye bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, harimo abambaye amajire afite ibara ry'umutuku, abambaye amajire afite ibara ry'icunga rihishije ndetse n'abambaye amataburiya ndetse hakaba harimo n'ushinzwe umutekano w'aho ngaho.

Inzu igeretse ifite ibara rijya gusa umweru, ku ruhande rwayo hari n'indi nzu igeretse n'indi itageretse ifite ibara rijya gusa umwe n'indi ifite ibara rijya gusa umukara, imbere yaho hari ikidendezi gikusanyirizwamo amazi.

Umuganga wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe, wambaye itaburiya ifite ibara rw'umweru iciye amaboko, uri gusuzuma abantu bicaye ku ruhande rwe bambaye imyenda idoze mu bitenge, ndetse baniteze ibitambaro bikoze mu bitenge.

Umwana mutoya w'umukobwa, wambaye imyenda idoze mu gitenge, uri ku ivomero rusange, uri gukaraba intoki, iruhande rwiwe, hari indobo ifite ibara ry'umukara, ku rundi ruhande, hari urukuta rwubakishije amatafari akoze muri sima.

Inzu mberabyombi irimo ababyeyi bakikiye abana babo ababyeyi bakaba bambaye imipira y'umweru hasi bakaba bakenyeye ibitenge. Abana babo bakaba bambaye udupira dufite ibara rijya gusa umuhondo hakaba harimo n'abandi bantu bari kugenda bita ku bana babaha ibyo kurya ndetse babaha n'amata bambaye imyenda igiye itandukanye.

Abantu batandukanye hari uhagaze hirya yambaye umupira ufite ibara rijya gusa ubururu ndetse akaba yambaye ijile y'ubukoranabushake akaba hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru wambaye n'ikarita iriho ibimuranga mu ijosi akaba ari gusuzuma umurwayi wamuhaye ikiganza kuruhande rwiwe hari ushinzwe kumufasha wambaye igitambaro kimwe ndetse n'umupira w'umukara wambaye ikarita mu ijosi iriho ibimuranga.

Abana batatu batoya bambaye impuzankano z'ishuri, ishati ifite ibara ry'umuhondo, ikora rifite ibara ry'ubururu ndetse n'amaboko y'ishati afite ibara ry'ubururu, bakaba bambaye amakabutura afite ibara ry'ubururu, bakaba bari gukaraba amazi meza ndetse n'isabune.

Umugore wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umutuku, ufite imisatsi isutse, akaba yambaye imyenda idozwe mu bitenge, akaba afite inyongeramajwi ifite ibara ry'umukara, akaba yejyerane n'umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umukara.

Abenshi batandukanye harimo abagabo, abagore ndetse n'abakobwa ndetse n'abasore, bakaba bafite icyapa kiriho ibirango bigiye bitandukanye. Icyo cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa, afite ibara ry'umweru, akaba ari mu ibara ry'icyatsi.

Inzu ifite inkuta zifite ibara rijya gusa umutuku ikaba ifite idirishya rikozwe mu mbaho ndetse n'ibyuma iyo nzu ikaba ifite igice cyasenyutse hakaba hicayemo umugore wicaye ku ntebe y'urubaho wambaye ishati irimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara hasi akaba akenyeye igitenge imbere yiwe hari ikirago kiboshywe mu migwegwe.

Igishushanyo cy'umutwe w'umuntu cyanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'icyatsi, ndetse munsi y'ayo magambo harimo umurongo, ndetse munsi y'uwo murongo harimo amazina y'ukwezi ndetse n'itariki.

Abagore batatu bambaye ibitambaro mu mutwe bakaba bambaye n'imipira ifite amabara agiye atandukanye, bakaba banakenyeye ibitenge bifite amabara atandukanye ku gice cyo hasi, bose bakaba bafite inkoni mu ntoki, hakaba harimo ukikiye umwana bakaba bahagaze mu murima, inyuma yabo hari umusozi uteyeho ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda itandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, bakaba bicaye imbere y'ameza ariho amazi ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye harimo ibikoresho by'inyongerajwi ndetse n'umuti wifashishwa mu gukaraba mu ntoki. Inyuma yabo hakaba hari ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ndetse n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda.

Umugore wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara ndetse akaba yambariyemo n'akandi gapira gafite ibara rijya gusa umuhondo karimo n'ibara ry'umukara, akaba afite isuka mu ntoki, akaba yikoreye igitebo kiboshywe mu migwegwe kirimo ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye.

Inzu mberabyombi ifite inkuta zifite irangi ry'umweru irimo parafo y'umweru ndetse ikaba ifite inzugi zifite ibara rijya gusa kaki hakaba harimo abantu benshi batandukanye bahagaze ndetse harimo n'abicaye harimo abagabo ndetse n'abagore.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mw’ibara ry'umukara ari ku ruhande rw'ibumoso kuruhande rw'iburyo hakaba hari ubuso bw'ubururu burimo ibirango bigiye bitandukanye hakaba harimo igishushanyo cy'umugore utwite, igishushanyo cy'umugore uri guhindurira umwana ndetse n'umwana mutoya munsi hakaba hari amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'imibare igiye itandukanye.

Abantu batatu harimo umugabo n'umugore ndetse n'umwana, umugore akaba ari ku ruhande n'undi mugabo akaba ari ku ruhande, bakaba bafashe umwana ufite ikibazo cyo mu mutwe mu ntoki, uwo mugabo akaba afite inkoni mu ntoki ndetse ku ruhande rw'uwo mugabo hakaba hari umwana uhahagaze.

Abagore batatu bambaye imyenda itandukanye, bicaye bari guhugurwa n'umugore wambaye umupira w'amaboko magufiya n'ipantaro y'umukara, inyuma yiwe hakaba ari icyapa kiriho ibirango bigiye bitandukanye, harimo icya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ik'ikigo k'igihugu gishinzwe ubuvuzi, kikaba cyanyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda avuga ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye harimo abahagaze ndetse n'abicaye bambaye imyenda igiye itandukanye, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku kiriho ikirango cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda.

Umugore ufite imisatsi miremire isutse ifite ibara ry'umukara, wambaye imyenda idozwe mu bitenge birimo amabara agiye atandukanye harimo icyatsi n'umuhondo n'umutuku, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umutuku, akaba afite n'inyongeramajwi mu ntoki ifite ibara ry'umukara, akaba yegeranye n'umugabo wambaye agapira k'amaboko magufiya gafite ibara ry'umukara.

Umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye umupira w'umweru, uteruye umwana mutoya wambaye umupira wo kwifubika ufite ibara ryumweru, ukaba uciyemo imirongo mitoya ifite ibara rijya gusa umukara.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, bakaba bahagaze bafashe ku rupapuro rw'impamyabumenyi rufite ibara ry'umweru bakaba bahagaze inyuma yabo hari imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'amahema afite ibara ry'umweru ndetse n'igitambaro cy'icyatsi kiri ku gice cyo hejuru.

Abantu batatu batandukanye barimo umugore ndetse n'umwana hakaba harimo umugore wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru akaba afite agakoresho mu ntoki kifashishwa hapimwa umuriro umuntu afite, akaba afite terefone igendanwa mu kaboko k'ibumoso ifite ibara ry'ubururu n'umugore wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu ndetse akaba akikiye umwana mutoya wambaye amaherena ku matwi.

Abantu benshi batandukanye bambaye imyenda igiye itandukanye harimo urubyiruko rwambaye imipira y'umukara ndetse hakaba harimo n'abandi bakuze hakaba harimo n'abandi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku inyuma yabo hakaba hari inzu ifite ibara ry'umweru akaba ari n'icyapa kiriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikindi kirango hakaba hari amagambo yanditse kuri icyo cyapa ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umukara.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umutuku, wambariyemo agapira gafite ibara ry'ubururu akaba yicaye imbere y'inzu ifite urukuta rufite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibara ry'umweru ririmo amadirishya.

Umugabo ufite umusatsi mukeya w’umukara wipfutse mumaso yambaye umupira w’amaboko magufiya w’ibara ry'umukara akaba yegamye ku rukuta rufite ibara rijya gusa nk'ivu urwo rukuta rukaba ruriho ibitabo hejuru bitandukanye bifite amashusho agiye atandukanye.

Abantu; umwe, babiri, batatu, bane, batanu barimo abagore batatu ndetse n'umwana w'umukobwa ndetse n'umugabo umwe wicaye imbere yabo. Hakaba harimo umugore wambaye ikarita mu ijosi imuranga hakaba hari n'abandi bicaye bari kumva inama abagira.

Umwana mutoya wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umuhondo, akaba imbere y'iwe hari ameza afite ibarajya gusa umuhondo. Akaba yambaye umwambaro w'ishuri ufite ibara ry'umweru ndetse akaba yambaye n'ijipo ifite ibara ry'ubururu bwijimye, akaba afite icyo kurya mu ntoki kandi uwo mwana akaba afite imisatsi isutse.

Umugabo ufite imisatsi y'umukara, akaba afite amaso abiri ndetse n'amazuru n'amatwi abiri wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo akaba afite n'ubwanwa, ari guseka yerekana amenyo y'imbere y'umweru ufite n'ishinya y'umukara.

Inzu ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, ikaba ifite amadirishya afite ibara ry'umukara, irimo ibirahure, hanze y'iyo nzu hari ubusitani burimo ibiti ndetse n'ibyatsi, hakaba harimo ibyapa biriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse hakaba hari n'icyapa cyanditseho amazina y'iyo nyubako uko yitwa.

Urupapuro rufite ibara rijya gusa umutuku ndetse n'akandi gace gatoya gafite ibara ry'umweru ruriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umweru, urupapuro rukaba ruriho n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikindi kirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda.

Abantu benshi batandukanye, harimo abambaye imipira y'ubururu ndetse hasi bakaba bambaye amapantaro agiye atandukanye, gusa ayiganjemo ni amapantaro y'umukara, hakaba hari n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, hakaba hari umushinwa wambaye ikote rifite ibara rijya gusa kaki ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'ubururu bwijimye, wambaye amapingu wayambitswe n'abashinzwe umutekano, bahagaze inyuma yiwe bambaye impuzankano ifite ibara ry'umukara.

Umugore ufite imisatsi y'umukara isutse wambaye ijile ifite ibara ry'umuhondo akambarariramo n'agapira gafite ibara ry'ubururu, inyuma y'iwe hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo amasositomate ndetse n'ibindi byifashishwa mu guteka. Iruhande rwe hari magambo ahanditse ari mu ibara ry'umweru ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse munsi hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umuhondo.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu bambaye imyenda igiye itandukanye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku imbere yabo hakaba hari imeza iriho igitambaro cy'umweru iyo meza ikaba iriho ibikoresho bigiye bitandukanye nka mudasobwa ndetse hakaba hari n'abatereretseho imirongo yabo ngendanwa igezweho hakaba hariho n'amacupa y'amazi ndetse n'aya fanta abantu bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo n'umugore ufite inyongerajwi ifite ibara ry'umukara.

Abantu batandukanye, barimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye imipira y'umukara ndetse n'abambaye imipira y'umweru, ndetse n'uwambaye ishati ifite ibara rijya gusa ubururu, bakaba bahagaze imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umukara, ariho ibikoresho bigiye bitandukanye, bifashisha mu mirimo yabo bajemo.

Urupapuro rw'ikinyamakuru cyitwa Ishusho, rukaba ruriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'amazina y'umufasha w'umukuru w'igihugu, Nyakubahwa Jeannette Kagame, akaba yambaye ishati ifite ibara, rijya gusa icyatsi ndetse akaba yambaye n'amarinete y'amaso, imbere y'iwe hakaba hari inyongeramajwi.

Abantu batatu bicaye ku ntebe, bose bambaye udupfukamunwa, harimo uwambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse n'undi wambaye agapira gafite ibara rijya gusa icyatsi, n'undi akaba yambaye agapira gafite ibara ry'ubururu bwijimye, inyuma yabo hakaba hari inzu zubakishije ibyatsi.

Abantu batandukanye harimo abambaye imipira ifite ibara ry'ubururu ndetse n'amapantaro agiye atandukanye harimo amapantaro y'umukara ndetse n'ay'ubururu, bakaba bari mu gikorwa cyo gutera ibiti bifite ibara ry'icyatsi, bakaba bafite n'icyapa gifite ibara ry'umweru kiriho ibirango bigiye bitandukanye ndetse n'andi mabara harimo umutuku ndetse n'icyatsi.

Umugore uri mu myaka y'izabukuru. uteze igitambaro mu mutwe, gifite amabara arimo icyatsi, umuhondo ndetse n'umukara, akaba yambaye igitenge ku gice cyo hejuru cyitwa iribaya, kirimo amabara arimo icyatsi, umuhondo n'umukara n'umweru.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa, wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufiya, afite urudodo rw'umweru mu ntoki, akaba ari kugenda arunyuza mu menyo mu rwego rwo gusukura amenyo y'iwe.

Ibiganza by'umuganga byambaye ga z'umweru bifite ibikoresho bibiri bitandukanye byifashishwa mu kuvura ikibazo cy'amenyo. Ku gatanda gafite ibara ry'ubururu hakaba haryamyemo umwana wambaye agapira gafite ibara rijya gusa icyatsi akaba afite n'imishumi y'umweru mu ijosi, akaba ari kuvurwa na muganga ufite udukoresho twifashishwa mu kuvura amenyo.

Umugore uteze igitambaro cy'umweru ufite umusatsi w'umukara wambaye isengeri y'umweru, ufite uburoso bw'amenyo mu ntoki bufite ibara ry'ubururu, uri kubukoresha asukura amenyo y'iwe ari kwireba mu kirahure.

Umwana mutoya wicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu ndetse akaba yambaye akantu mu mutwe, akaba yambaye n'agapira k'umweru ndetse n'agakanzu, gafite amaboko magufi, gafite ibara ry'icyatsi, akaba afite uburoso bw'amenyo mu kanwa.

Umugabo ufite umusatsi mukeya akaba afite ubwanwa bw'umukara, akaba yambaye umupira w'ubururu bwijimye, inyuma yiwe hari urukuta rufite irangi ry'umweru akaba yasamye ari kwerekana amenyo yo hejuru no hasi ndetse n'ururimi.

Umugabo uri kumwe n'umwana, bose bambaye udupira tw'umweru, bakaba bafite utugozi tw'umweru mu ntoki twifashishwa mu gusukura amenyo, bari kuducisha hagati y'amenyo yabo mu rwego rwo gusukura amenyo yabo.

Abantu babiri bambaye imyenda itandukanye umwe ufite imisatsi miremire isutse y'umukara akaba yambaye agakote gafite ibara ry'ubururu n'urupapuro rufite ibara ry'umweru mu ntoki, yegeranye n'undi wambaye amarinete ufite imisatsi migufi wambaye agakoti gafite ibara ry'umutuku ndetse nawe akaba afite urupapuro ndetse n'ikaramu mu ntoki urupapuro rusa umweru bari mu nzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse harimo n'ameza afite igitambaro cy'ubururu.

Abantu batatu bambaye imyenda itandukanye, harimo abaganga babiri ndetse n'umurwayi umwe, abaganga bose bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse n'amarinete, bakaba bari kuvura umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo.

Ibiganza by'umuntu wambaye ishati y'umweru, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, akaba afite ibikoresho mu ntoki byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, bakaba bafite ikibumbano cy'amenyo bari kugikoreraho amahugurwa y'ubuvuzi bw'amenyo.

Umukobwa ufite imisatsi migufi, wambaye isengeri y'umweru, ufite uburoso bw'amenyo mu ntoki, uri kwireba mu kirahure uburyo asukura amenyo yiwe akoresheje uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti w'amenyo.

Umugabo n'umugore bari kwireba mu ndorerwamo, bambaye udupira tw'umweru, bose bakaba bafite utugozi dufite ibara ry'umweru bari gucisha mu menyo, mu rwego rwo gusukura amenyo yabo.

Abantu batatu batandukanye harimo, abaganga babiri, ndetse n'umurwayi, muganga w'umuzungu wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'uburu bwerurutse, akaba yambaye tabuririya y'umweru wambaye ga z'ubururu akaba afite urushinge mu ntoki, akaba n'umuntu uryamye ku gatanda gafite ibara ry'umukara, bari gukorera ubuvuzi bw'amenyo, ndetse ruhande akaba n'undi ushinzwe gufasha umuganga, mu gikorwa arimo cyo kuvura amenyo.

Icyumba gifite amakaro hasi ndetse kikaba gifite inkuta zisize ibara ry'umweru, kikaba gifite n'amatara hejuru. Kikaba ari icyumba kirimo intebe yicaramo muganga ari kuvura umuntu uryamye ku gatanda gafite ibara rijya gusa umutuku, ari kumukorera ubuvuzi bw'amenyo.

Umwana muto w'umukobwa upfumuye amatwi, wambaye agasengengeri gafite ibara ry'umuhondo, akaba ari gusuzumwa mu kanwa niba amenyo yiwe nta kibazo afite, akaba ari gusuzumwa n'umuganga wambaye ga zabugenewe z'umweru.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara wambaye umupira w'umukara uryamye ku gatanda gafite ibara ry'umukara ari kwereka umuganga ikibazo cy'amenyo afite, umuganga wambaye impuzankano y'itaburiya y'umweru ndetse akambara na ga zifite ibara ry'ubururu ndetse akaba afite n'akandi gakoresho kariho ibibumbano by'amenyo.

Umugabo ufite umusatsi mukeya w'umukara ufite amaso abiri, ndetse n'amatwi abiri wambaye umupira ufite ibara ry'umweru ari guseka amenyo yose yayagaragaje inyuma y'iwe hari ibara ry'umuhondo.

Ishusho itangwa n'icyuma cyo kwa muganga gisuzuma uko umubiri w'umuntu uhagaze, iri shusho ryerekana amenyo afite ibibazo bigiye bitandukanye mu kanwa k'umuntu wagiye kwivuza ikibazo cy'amenyo.

Umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'umweru akaba afite mu biganza byiwe urudodo rufite ibara ry'umweru rwifashishwa mu gusukura amenyo akaba ari kugenda arunyuza mu myanya iri hagati y'amenyo yiwe mu rwego rwo gukorera isuku amenyo ye.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, bifite amabara agiye atandukanye hari ibifite amabara y'ibyuma ndetse n'ibifite amabara y'umweru, bikaba biteretse ku kameza gafite ibara ry'umweru.

Umugabo w'umuzungu ufite imisatsi y'umukara wambaye amarinete, akaba yambaye n'ishati y'umweru akaba afite ishusho ari komeka ku gikuta gifite ibara ry'umweru, iryo shusho rikaba rigaragaza amenyo y'umuntu ukuntu ameze.

Umwana mutoya wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umutuku ndetse akaba ari kumwe n'umuganga ushinzwe kwita ku barwayi bafite ibibazo by'amenyo, uwo mwana akaba yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu ndetse muganga akaba yambaye ga zabugenewe mu gihe cyo kuvura, zifite ibara rijya gusa icyatsi.

Umugabo w'umwirabura wasamye, amenyo yiwe ari kugaragara, afite agakoresho bambara mu kanwa mu gihe cy'ubuvuzi bw'amenyo, akaba afite inzara z'umweru ndetse n'intoki eshanu.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, wambaye agapira gafite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba yambaye amarinete, akaba afite imisatsi irimo imvi, imbere yiwe hari ikirahure cyo kwirebamo, hafi yiwe hari ibikoresho yifashisha mu gusukura isura yiwe ndetse n'amenyo. Akaba afite agakombe mu ntoki gafite ibara ry'umweru gatoya.

Ikiganza cy'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba yambaye na ga zifite ibara ry'ubururu, akaba afite igikoresho cyifashishwa mu kureba mu kanwa k'umuntu kureba iryinyo ryagize ikibazo, hakaba hari ari umugabo uryamye ku gatanda gafite ibara rijya gusa umweru uri kugaragaza amenyo y'imbere.

Umuganga wambaye taburiya y’ umweru wambariyemo umupira ufite ibara rijya gusa kaki wambaye isaha ifite ibara ry'umukara akaba anambaye nipantaro ifite ibara rijya gusa nk'ivu Alana ari mu cyumba gifite inkuta zifite ibara rijya gusa kaki muri icyo cyumba hakaba harimo igitanda umurwayi aryamaho gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'uwo muntu urwaye buhagaze.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, uri kwireba mu kirahure, akaba afite akagozi mu ntoki ari kugenda acisha mu menyo, kifashishwa mu gusukura amenyo.

Ishusho itangwa n'icyuma cyo kwa muganga, igaragaza uko amenyo y'umuntu ameze ndetse n'amenyo afite ikibazo n'uburyo ki akwiye kuba ameze mu buzima busanzwe, iyi shusho itangwa n'icyuma cyo kwa muganga.

Umugabo ugeze mu gihe cy'izabukuru, wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara rijya gusa umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara rijya gusa umweru, akaba yicaye hejuru ye hakaba hari ushinzwe kumwitaho, wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu.

Abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri, harimo uwambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara n'agacupa k'amazi mu ntoki, hirya yiwe hakaba hari n'undi wambaye umupira w'umweru gusa afite undi ufite ibara ry'umukara ku rutugu, na we akaba yambaye ipantaro y'umukara irimo ibara ry'umweru, na we akaba afite agacupa k'amazi mu ntoki.

Umugabo n'umugore bari mu myaka y'izabukuru. Umugabo akaba afite ubwanwa bw'umweru burimo imvi. Akaba yambaye ishati y'umweru irimo imirongo y'umukara imanutse. Uwo mugabo akaba afite umurongo ugendanwa ugezweho mu ntoki ufite ibara ry'icyatsi. Akaba yegeranye n'umugore uri mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi y'umweru ndetse n'indi ifite ibara rijya gusa umutuku, wambaye umupira ufite ibara rijya gusa uburu. Ndetse uwo umugore akaba afite urupapuro rw'umweru mu ntoki.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu, akaba yambaye n'agapfukamunwa, akaba yambaye n'ipantaro ifite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru, akaba afite umuntu umwitaho wambaye agapfukama ndetse n'impuzankano ifite ibara ry'icyatsi.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi y'imvi wambaye amarinete ufite ikaramu mu ntoki ifite ibara ry'umukara akaba afite n'igipapuro gifite ibara ry'umweru harimo amabara agiye atandukanye harimo ubururu, umutuku ndetse n'amabara matoya y'umukara akaba yambaye ishati ifite ibara rijya gusa umukara.

Abantu babiri batandukanye, harimo umusaza wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umweru. Akaba hari undi mugore ushinzwe kumwita, wambaye umupira w'umweru. Uwo musaza akaba ari kurya imbuto, ndetse ushinzwe kumwita akaba ari kumusukira ji mu kirahure. Imbere kuri ayo meza y'umweru hakaba hari imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'ibikombe bitandukanye.

Abantu babiri batandukanye harimo umusaza wambaye amarinete ndetse ufite n'imisatsi y'imvi, akaba yambaye umupira ufite ibara ry'umukara, imbere yiwe hakaba hari ikirahure kirimo amazi giteretse ku meza afite ibara rya kaki, hakaba hari n'undi mugore ushinzwe kumwitaho wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, akaba afite ikaramu mu ntoki ndetse imbere ye hakaba hari ikaye ifite impapuro z'umweru.

Abantu babiri batandukanye harimo umugore uri mu myaka y'izabukuru wambaye ishati ifite ibara rya kaki, akaba afite ikirahure cy'amazi akaba afite undi muntu ku ruhande wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu ndetse n'agakoresho gapima uko umutima utera akaba ari kumuha ibinini byo kunywa.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, ufite imisatsi y'umweru y'imvi, wambaye amarinete, wambaye ishati ifite ibara rijya gusa umweru, akaba yicaye mu gatebe, akaba ari kumwe n'umuntu ushinzwe kumwitaho wambaye ikarita mu ijosi iriho ibimuranga ndetse akaba yambaye n'agakoresho gapima uko umutima w'umuntu uhagaze, akaba ari kumufasha mu myitozo ngororamubiri, hifashijwe agakoresho afite mu ntoki gafite ibara ry'icyatsi.

Umugabo mukuru wambaye ikote rifite ibara rijya gusa umutuku, mu imbere akaba yambayemo agapira gafite ibara rijya gusa icyatsi, akaba afashe ku rutugu umukobwa wambaye amarinete ndetse akaba yambaye ikote ry'ikoboyi, rifite ibara ry'ubururu ndetse mo imbere akaba yambariyemo agapira gafite ibara ry'umweru.

Abantu umwe babiri batatu bane batanu batandatu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'umwana harimo umugore wambaye agapira kafite ibara rijyagusa icyatsi ndetse n'pantaro ifite ibara'umuhondo akaba n'umugore ugeze muyaka y'izabukuru wambaye agapira k'umundo harimo n'akana gatoya ndetse n'umusaza wambaye agapirafite ibara ry'uburu bwijimye ndetse n'umukobwa wambaye isengeri ndetse n'umugabo ufite uruhara.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, batanze ibikoresho byo kwifashisha mu gihe hagize umuntu uhura n'ikibazo cy'imvune bakaba bahagaze imbere y'icyapa gifite ibara ry'ubururu kirimo ikimenyetso ndetse n'ikirango cy'ikigo gishinzwe ubuzima bw'ikiremwa muntu, ku ruhande hari inzu ifite ibitambaro by'ubururu n'umuhondo n'icyatsi.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi irimo imvi wambaye umupira urimo amabara agiye atandukanye harimo ibara rijya gusa umutuku ndetse n'umukara, akaba yambariyemo isengeri y'umweru, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri akaba afite udukoresho tubiri dufite ibara ry'icyatsi tumufasha mu gukora imyitozo ngororamubiriU

Umugabo uri mu myaka y’izabukuru, ufite imisatsi irimo imvi ndetse n'ubwanwa burimo imvi, wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umuhondo, uri mu kagare k'abafite ubumuga bw'amaguru, akaba ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho, wambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'agakoresho gapima uko umutima w'umuntu utera, akaba akambaye mu ijosi.

Abantu batandukanye bari mu muhanda, harimo abageze mu gihe cy'izabukuru, abasore ndetse n'abakobwa bambaye imipira ifite amabara agiye atandukanye, harimo abambaye imipira y'amabara y'umukara, umweru ndetse n'umutuku, imbere kuri iyo mipira bose yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo Tora Kagame Paul.

Abagore benshi bari mu myaka y'iza bukuru bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abiteze ibitambaro ndetse n'abafite imisatsi ifite imvi bicaye hasi, hari n'abandi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye ibitenge ndetse n'abambaye amakanzu afite amabara agiye atandukanye.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru ufite ubwanwa buririmo imvi wambaye ishati ifite ibara rijya gusa nkiicyatsi, afite ikirahure kirimo amazi akaba ateze ikiganza ari guhabwa ibinini n'ushinzwe kumwitaho wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu ndetse akambaramo n'agapira gafite ibara ry'umweru, akaba afite ikarita iriho ibimuranga mu gatuza.

Abantu batatu, harimo umugore ugeze mu myaka y'izabukuru, ufite imisatsi y'imvi, akaba yambaye umupira w'amaboko muremare ufite ibara rya kaki, hagati hakaba harimo umukobwa ufite imisatsi isutse, wambaye amarinete, akaba yambaye umupira ufite ibara rijya gusa icyatsi, hakaba hari n'akana gafite imisatsi ikaraze akaba yambaye umupira ujya gusa umweru.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi y'umweru y'imvi, wambaye amarinete ndetse akambara umupira w' amaboko muremare, ufite ibara rijya gusa umukara ndetse n'ipantaro bisa, akaba yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, cyangwa badashoboye kuba bagenda igihe kinini n'amaguru, akaba ari gusunikwa n'umukobwa wambaye agapira gafite ibara rijya gusa icyatsi.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru, wambaye ishati ifite ibara ryo gusa umweru, ndetse akaba afite igikombe cy'amazi mu ntoki, hakaba hari ushinzwe kumwitaho wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu, akaba yambaye n'agakoresho kifashishwa mu gupima uko umutima w'umuntu utera, akaba ari kumuha ikinini mu ntoki.

Inzu mbera byombi irimo abantu batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bari mu myaka y'izabukuru, hakaba harimo n'umugabo wambaye amarinete y'umukara ndetse n'agapira gafite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba yambaye n’ipantaro isa n’agapira akaba yambaye n'ikarita iriho ibimuranga mw’ijosi.

Abagore batatu bari mu myaka y'izabukuru bambaye imyenda igiye itandukanye harimo uwambaye ingofero ifite ibara ry'umweru akambara umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara akaba afite ubudodo bw'umweru mu ntoki akaba n'undi uri hagati wambaye amarinete wambaye umupira ufite ibara ry'umukara akaba afite umurongo ngendanwa mu ntoki n'undi wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse haciyemo imirongo y'umweru wambaye n'umupira w’imbeho ufite ibara rijya gusa umukara.

Umugabo ugeze mu myaka y'iza bukuru wambaye ishati ifite ibara rijya gusa na kaki, wambaye agakoresho ku kaboko k'ibumoso, imbere yiwe hakaba hari ameza afite ibara rijya gusa kaki ateretseho agatebo gafite ibara rijya gusa na kaki.

Umugore ugeze mu myaka y’izabukuru ufite imisatsi y’umweru y'imvi, wambaye amaherena y'umweru kumatwi wambaye umupira ufite ibara rijya gusa nka kaki, ari kumwe n’ushinzwe kumwitaho, umugore ufite imisatsi y'umukara miremire wambaye umupira w’amaboko magufiya ufite ibara rijya gusa nk’umutuku.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru wambaye umupira w'amaboko maremare, afite ibara rijya gusa umweru, akaba afite inkoni imufasha mu kugenda ifite ibara rijya gusa kaki, akaba ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu, akaba yambayemo umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umweru.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru wambaye umupira w'maboko maremare, ufite ibara rijya kumera nk'iry'ivu, wambariyemo agapira gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, ari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri y'amaboko, abifashijwemo n'umugore wambaye impuzankano y'umukara, wambariyemo umupira w'amaboko maremare w'umweru ushinzwe kumwitaho.

Abantu babiri batandukanye, b'abagore bambaye imyenda itandukanye, harimo uwiteze igitambaro gifite ibara ry'umutuku, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara rijya gusa icyatsi, iruhande rwe hakaba hari undi mama ufite imisatsi isutse, akaba yambaye ikote rifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, bakaba bari muri siporo ngororamubiri.

Umugabo n'umugore bafite imyaka y'izabukuru bari ku meza bari kurya, umugabo yambaye ishati ifite ibara rijya gusa umutuku, ndetse n'umugore afite imisatsi y'umukara, yambaye ishati ifite ibara rijya gusa nk'ivu, yambayemo agapira k'umweru.

Abantu babiri bari kugenda harimo uwambaye agatambaro gafite ibara ry'umweru n'umukara mu ijosi, akaba yambaye n'ingofero akaba yambaye ikoti rifite ibara ry'umukara n'ipantaro ifite ibara rya kacyi n'inkweto z'umukara. Akaba afite agakoresho mu ntoki kamufasha, kanamumenyereza kugenda n'amaguru. Undi kuruhande wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, uri kumufasha mu kwimenyereza kugenda.

Ibishushanyo bitandukanye, harimo igishushanyo cy'agakoresho gapima uko umutima w'umuntu uhagaze. Ndetse n'igishushanyo cy'urushinge ndetse n'icya Bic, ndetse hakaba hari n'igishushanyo cy'urupapuro kiriho amagambo ari mu mpine, afite ibara ry'ubururu. Munsi hakaba hari n'ubusobanuro bw'ayo magambo ari mu ibara ry'umukara.

Inzu mbera byombi irimo igitsina gore gusa bose bambaye imipira y'umweru bicaye ku ntebe z'umweru bakaba bayobowe n'umugore wambaye umupira w'umukara w'amoboko maremare wambayemo n'agashinnge gafite ibara ry'umutuku akaba ahagaze iruhande rw'icyapa gifite ibarajya gusa umutuku iyo nzu ikaba ifite amadirishya n'ibirahu bifite ibara ijya gusa icyatsi ndetse n'ibirahuri biri mumadirishya.

Abantu batandukanye higanjemo urubyiruko rugiye rutandukanye harimo n'abiga amashuri yisumbuye bambaye imyenda igiye itandukanye bafashe icyapa kiriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda cyikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ari m’ubuso bw'umutuku ayo magambo akaba afite ibara ry'umweru yanditseho ngo rubyiruko nimwe ejo hazaza heza h’uru Rwanda irinde virusi itera sida.

Amagambo y'impini harimo r ntoya na b ntoya na c ntoya bifite ibara harimo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, akaba ari amagambo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda.

Umugore ufite igitambaro mu mutwe ndetse akambara n'umupira ufite ibara rijya gusa umweru, hivanzemo n'irindi bara rijya gusa umutuku, ukikiye umwana, inyuma yabo hari abantu bahahagaze harimo abagabo ndetse n'abasore bambaye amashati y'umweru.

Abantu benshi bahagaze ndetse n'abicaye bambaye imyenda igiye itandukanye ifite amabara atandukanye harimo abazungukazi ndetse n'abirabura, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'umweru n'ubururu ndetse n'irindi bara rijya gusa umutuku cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Umugabo n'umugore bahagaze bafite icyapa kiriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda, ndetse n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu cyo mu Rwanda gishinzwe ubuvuzi, icyo cyapa kikaba cyanditseho amagambo y'ururimi rw'ikinyarwanda avuga ngo "twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira" inyuma yaho hari amabendera abiri, hari ibedera ry'umweru ririho ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ibendera ry'u Rwanda.

Abantu bahagaze: umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi. akaba arimo igitsina gore babiri ndetse, n'abagabo bagera muri batanu bakaba bambaye imyenda itandukanye bakaba bahagaze kwi tapi ifite ibara ry'ubururu inyuma yabo bakaba ari ibyapa biriho ibirango bigiye bitandukanye n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara.

Urupapuro ruriho ifoto y'umuganga wambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru, akaba yambaye n'akantu gafite ibara ry'ubururu gashinzwe gufata imisatsi. Akaba yambaye n'agakoresho gapima uko umutima w'umuntu utera mu ijosi. Iruhande rwe hakaba hari amagambo ari mu ibara ry'umweru ari mu rurimi rw'Icyongereza agaragaza imbaraga za Afurika.

Umugabo wambaye ikote rifite ibara rijya gusa kake, akaba yambariyemo ishati ifite ibara ry'umutuku ndetse na karavate irimo imirongo y'umweru, akaba ahagaze imbere ya kamera ifite ibara ry'umukara iri kumukamera, inyuma yiwe hakaba hari icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, iki cyapa kikaba gifite ubuso bufite ibarajya gusa nka kaki, iruhande rwe hakaba hari intebe zigiye zitandukanye zifite n'utumeza tw'umweru hagati, izo ntebe zikaba zifite ibara ry'umukara.

Umugore wambaye ishati y'amaboko magufiya, ifite ibara ry'umweru, wambaye agapfukamunwa, ari guterwa urushinge n'umuganga, wambaye itaburiya ifite amaboko magufiya, wambaye agapfukamunwa, gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, inyuma yiwe hakaba hari undi mugore, wambaye ishati y'umweru irimo utudomo dufite amabara agiye atandukanye.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku murongo umwe harimo abaganga bambaye impuzankano z'ubwirinzi bwa kovide cumi n'icyenda, hakaba hari n'abandi baje kwisuzumisha bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda igiye itandukanye baje gufata inkingo za kovide cumi n'icyenda.

Inzumberabyombi irimo abantu benshi batandukanye. Ku gice cyo hasi hakaba hicaye abantu bagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye. Bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku. Imbere yabo hakaba hari abantu bayoboye ikiganiro bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru. Bakaba bafite utumeza dutoya turiho amazi yo kunywa. Inyuma yaho hakaba hari icyapa kihamanitse gifite ibara ry'icyatsi, n'umweru, ndetse n'ubururu. Kikaba kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru, ruriho ikirango cya Unicef, urwo rupapuro rukaba ruriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, yandikishijwe ibara ry'umukara kuri urwo rupapuro hakaba hariho ishusho y'abantu bahagaze ari benshi batandukanye, harimo abagore ndetse n'abana.

Abantu benshi bicaye bateraniye mu nzu mberabyombi, hari abicaye ku gice cyo hasi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku hakaba harimo abagore ndetse n'agabo bakaba bayobowe n'abagabo n'abagore bicaye imbere yabo bari ku ntebe zifite ibara tijya gusa umweru, ndetse inyuma yaho hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu hakaba higanjemo amagambo ari mu ibara ry'umweru ari mu rurimi rw'icyongereza, icyo cyapa kiba gifite ikirango cya repubulika y'u Rwanda.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu’ibara ry'umweru hejuru hakaba hari ibirango bigiye bitandukanye ndetse no munsi hakaba ikindi kirango ku ruhande hariho amashusho agiye atandukanye ariho abantu batandukanye arimo abaganga batandukanye ndetse n'abahinzi ndetse n'abashinzwe gutunganya ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu bane bahagaze bafashe icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ashishikariza abantu gukoresha agakingirizo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Abo abantu bahagaze harimo abagabo babiri ndetse n'abakobwa babiri bose bambaye imipira y'umweru ndetse n'amapantaro y'mikara.

Agatabo gafite ubuso bw'ubururu bwijimye ndetse n'ubundi buso bw'umweru munsi ku buso bw'ubururu bwijimye hari amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru ndetse munsi ku buso bw'umweru hari ibirango bigiye bitandukanye ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'ubururu.

Abagore benshi bambaye imyenda itandukanye ifite amabara agiye atandukanye, bicaye ku gasima gafite ibara ry'ubururu. Kuri ako gasima hakaba hariho ubuso bw'umweru burimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse akaba ari n'umubare kane wanditse mu ibara ry'umutuku, kimwe nk'ayo magambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Inzu mberabyombi harimo abantu batandukanye, barimo abagabo n’abagore, harimo abirabura n’abazungu. bakaba bicaye ku ntebe z’umukara. Imbere yabo hari abagabo n’umugore umwe, bose bicaye ku ntebe z’umweru. Akaba aribo bayoboye ikiganiro kiri gutambutswa muri iyo nzu mberabyombi.

Ubusitani buri hanze buteyemo ibyatsi ndetse hakaba hateyemo n'ibiti bigiye bitandukanye, harimo imikindo ndetse n'ibindi biti, hakaba hari n'ibyuma bishinzwe gutangira abantu ahantu harehare, hakaba n'akayira k'abanyamaguru, gasize ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Ikigo nderabuzima gifite inkuta z'umweru ndetse n'amabati afite ibara rijya gusa icyatsi, imbere y'icyo kigo nderabuzima hari igikuta cyubatse gifite ibara rijya gusa kaki, hejuru kuri icyo gikuta hakaba handitse amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda yanditse ngo ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi.

Inyubako igeretse igice cyosi gifite umuryango n'amadirishya bifite ibara ry'umukara byose bikaba birimo ibirahure, imbere y'iyoyubako akaba ari imitako y'ibiti biteye akaba ari n'imodoka ihagaze imbere yiyo nyubako ifite ibara ry'ubururu bwijimye. Hejuru yiyo nyubako akaba ariyo icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umweru azengurutswe n'ubuso bw'icyatsi.

Icyumba k'ivuriro gifite inkuta z'umweru ndetse n'amarido afite ibara ry'umweru, icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gihe bari kuvura umuntu akaba ari agatanda gafite ibara ry'umuhondo ndetse hakaba hari n'igikoresho kiri ku ruhande gifite ibara ry'umweru, gishinzwe gupima uko ubuzima bw'umuntu buhagaze.

Umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru yaciye amaboko, akaba yambaye n'ikarita iriho ibimuranga mu ijosi, akaba yambaye na ga z'umweru muntoki akaba ari gutera urukingo umugabo wambaye ishati y'umweru irimo utudomo tw'umukara ndetse ikaba ifite n'ikora ry'umukara, wambariyemo isengeri y'umweru wicaye ku ntebe y'umweru.

Ivuriro rifite inkuta zifite ibara ry'umye ndetse n'umukara ku gice cyo hasi hasi hakaba hari amakaro y'umweru, hakaba harimo icyapa gifite ibara ry'umu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umukara, ndetse hakaba harimo n'ikindi cyumba gifite inkuta zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, hakabarimo intebe zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'izindi zifite ibara ritandukanye nicyatsifite ibara ry'umukara.

Inzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse hasi hakaba hari amakaro afite ibara ry'umweru, hejuru hakaba hari amatara afite ibara ry'umweru, hakaba harimo ibitanda byagenewe abarwayi, buri gitanda kikaba gifite irido ifite ibara rijya gusa icyatsi.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'amatara y'umweru. Hakaba harimo amadirishya afite ibara ry'umukara, ndetse harimo ibirahure. Muri icyo cyumba harimo abantu batandukanye. Harimo abaganga, ndetse n'abaforomokazi. Hakaba harimo n'igitanda kiryamaho umurwayi mu gihe bari kumukorera ubuvuzi.

Inzu ifite inkuta z'umweru ikaba ifite imiryango ndetse na madirishya ifite ibara rye gusa nk'ivu mimbere muri iyo nzu hakaba harimo intebe zifite amabara atandukanye akaba intebe zifite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'izindi zifite ibara ry'umuhondo muri iyo nzu hakaba harimo n'inkingi ebyiri zidasize amarangi zikaba zifashe ubusitani bw'indabyo ziri muri iyo nzu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, akaba yambaye ga zifite ibara ry'ubururu, akaba afite agacupa gafite ibara ry'umukara, gafite umufuniko w'ubururu, akaba ari gukora ku cyuma gishinzwe kureba ubuziranenge bw'umuti uri muri ako gacupa.

Abantu batandukanye bambaye imyenda ifite amabara ameze kimwe, bafite udutebo mu ntoki dufite ibara rijya gusa kaki, bagiye kwinjira mu nyubako ifite ibirahure byinshi kuri yo, ndetse hejuru hakaba hari amagambo yanditse mu mpine, ndetse ku ruhande rw'ayo magambo yanditse mu mpine hakaba hari ijambo ryanditse mu Kinyarwanda handitse ngo "Rwanda".

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya afite ibara ry'umweru arimo ibirahure, muri icyo cyumba hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo igikoresho cyifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'umuntu buhagaze, hakaba hari n'agatanda umuntu aryamaho gafite ibara ry'umweru, hakaba hari n'igikoresho cyifashishwa kujugunyamo imyanda yose yakoreshejwe, bavura umuntu wakiriwe muri icyo cyumba.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse akaba yambaye n'ipantaro y'umukara wicaye ku gasima kari munsi y'igiti kinini, iruhande rwiwe hari indabyo zigiye zihateye ndetse no munsi y'icyo giti.

Inzu ifite inkuta z'umweru ndetse hakaba hari n'urundi rukuta rusize irangi ry'umukara, hanze y'iyo nzu hakaba ari icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'andi magambo y'impine, hanze y'iyo nzu hari ubusitani buhateye buteyemo ibyatsi.

Ubwinjiriro bufite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse hejuru ku bwinjiro hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, yanditse ku buso bufite ibara ry'umweru, ayo magambo akaba yanditse mu ibara rifite umutuku ndetse bukaba bufite igipangu gifite ibara rijya gusa na kaki, cyubakishije ibyuma gusa.

Ivuriro rifite inkuta zifite ibara rijya gusa kaki, rikaba rifite amadirishya afite ibara ry'umweru arimo ibirahure, hanze y'ivuriro hakaba hateye ubusitani, hejuru ku ivura hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, akaba ari ivuriro rivura kanseri.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite amadirishya ndetse n'inzugi bifite ibara ry'umukara, ikaba birimo ibirahure, ikaba ifite amabati afite ibara rijya gusa kaki, hanze hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse hakaba hari n'amatara abonesha mu gihe cy'ijoro.

Inzu mberabyombi ifite inkuta zifite ibara rijya gusa umuhondo. Hejuru kuri parafo hakaba hari amatara agiye atandukanye afite amabara atandukanye. Hari amatara afite ibara ry'umweru ndetse n'andi afite ibara ry'umweru n'umukara. Hakaba harimo intebe nyinshi zifite ibara ry'umukara. Imbere hakaba hari akameza gafite ibara ry'umweru.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara rijya gusa umweru, hakaba harimo ibitanda byagenewe abarwayi, buri gitanda kikaba gifite inzitiramibu ifite ibara ry'umweru, iri hejuru y'icyo gitanda.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru ndetse hakaba hariho n'igipapuro cyerekana amatariki aho ageze. Icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Ibyo bikoresho byifashishwa bavura umurwayi waje ahagana.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru kikaba gifite na parafo ifite ibara ry'umweru ndetse n'amatara afite ibara ry'umweru. Icyumba kikaba kirimo utubati tugerekeranije turimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi. Icyo cyumba kiba kirimo icyuma cyifashishwa mu gusuzuma umubiri w'umuntu ikibazo ufite, n'aho icyo kibazo giherereye.

Icyumba kirimo ibikoresho by'umwitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byo guterura, ibikoresho byo kwirukanka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'ikirahure cyo kwirebamo mu gihe uri gukora iyo myitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga gifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya n'imiryango bifite ibara ry'umweru birimo ibirahure, ndetse muri icyo cyumba hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma ibizami byafashwe n'abaganga. Hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, icyo cyumba kikaba kirimo utubati dufite ibara rijya gusa kaki, kikaba kinarimo icyuma gishinzwe gusuzuma umubiri w'umuntu ikibazo ufite ndetse n'aho icyo kibazo giherereye.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibitanda bitatu bifite amabara asa kikaba gifite amashuka afite ibara ry'icyatsi, ibyo bitanda bikaba bifite ibara ry'umweru buri gitanda kibaba gifite irido rijya gusa ubururu, ndetse i ruhande rwayo hakaba hari icyuma gishinzwe kureba uko ubuzima bw'umurwayi uryamye kuri icyo gitanda buhagaze.

Ivuriro ryubakishijwe inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse na kaki ndetse hakaba n'ikindi gice cyubakishijwe ibirahure, kandi kuri iryo vuriro imbere yaho hakaba haparitse imodoka zigiye zitandukanye, hakaba ari n'icyapa kigaragaza amazina y'iryo vuriro cyanditseho ''sangwa''. Hakaba hari n'abagabo bahagaze imbere y'iryo vuriro.

Abantu batatu harimo uwambaye ishati ifite ubururu bweruhurutse ndetse n'ipantaro ya kaki akarimo umudamu wambaye umupira w'ubururu bwijimye ndetse n'ipantaro y'ikoboyi iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu bakaba bari gutembera ku bitaro iruhande rw'ibitarohakaba hateye ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'ubusitani.

Umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba ahagaze imbere y'icyuma gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ndetse n'ibindi bikoresho by'ibikoranabuhanga bigiye bishamikiye kuri icyo cyuma, icyo cyuma kikaba cyifashishwa mu gusuzuma umubiri w'umuntu.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z’umweru ndetse akakaba n'ikindi gice gisizemo ibara rijya gusa nk’ivu n'ikindi gice gifite ibara ry'icyatsi icyo cyumba kikaba kirimo ibitanda bibiri bimeze kimwe bifite matera zifite ibara ry'umweru ndetse kikaba gifite na parafu ifite ibara ry'umweru ndetse n'amatara y'umweru.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite amadirishya afite ibara ry'umukara hakaba harimo n'ibirahure iruhande rwayo hari inyubako yubakishije amabuye afite ibara ryijya gusa nk'ivu ifitemo igice gisize irangi ry'ibara rijya gusa umuhondo iyo nyubako nayo ikaba ifite imiryango ndetse n'amadirishya bifite ibara ry'umukara hakaba harimo ibirahure hanze y'izo nyubako hateye ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibyatsi.

Inyubako ifite inkuta zifite ibara rijya gusa umweru ikaba ifite imiryango y'amadirishya bifite ibara ry'umweru bikaba birimo ibirahure , imbere y'iyo nyubako hari imodoka zihagaze zigiye zitanga zifite amabara atandukanye hejuru ku nyubako hari icyapa kinini gifite ikirango cya repubulika y'urwanda ndetse n'andi magambo ari mu rurimi rw'icyongereza acyanditseho ndetse akaba hariho n’ikirango cy’ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu rwanda.

Inzu ifite inkuta zifite ibara ry'umuhondo ku gice cyo hejuru, igice cyo hasi kikaba kirimo amakaro afite ibara ry'icyatsi, ikaba irimo abantu bagiye batandukanye, hakaba harimo umugore wambaye ishati y'umweru akaba ari gupima ibiro by'umwana w'uruhinja.

Umurwayi uryamye ku gitanda gifite amashuka y'umweru, akaba yoroshwe ishuka ifite ibara ry'umweru ndetse n'iyindi ifite ibara rijya gusa icyatsi, iruhande rwe hari ibyuma bifite ibara ry'umweru bigiye bitandukanye bishinzwe gupima uko ubuzima bw'iwe buhagaze muri ako kanya.

Icyumba cy'ivuriro kifite inkuta zifite ibara ry'umweru, icyo cyumba kikaba gifite hasi hasize irangi ry'ubururu, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Ibikoresho bikozwe mu byuma ndetse n'ibindi byerekana uko ibipimo bigiye bihagaze.

Ivuriro rifite inkuta z'umweru ndetse n'amabati afite ibara rijya gusa ubururu, iryo vuriro rikaba rihagazeho umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, hejuru ku ivuriro hakaba hariho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'andi magambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ikigo nderabuzima imbere gifite inkuta z'umweru ku mpande hakaba hari inkuta zubakishwa amatafari ahiye kiba gifite imiryango n'amadirishya bifite ibara ry'umukara kiba gifite n'amabati y'ubururu imbere y'ikigo nderabuzima hari abantu bahicayemo harimo abamama n'abana hejuru ku kigo nderabuzima handitseho izina ryacyo ayo magambo ari mu ibara ry'ubururu mu rurimi rw'ikinyarwanda handitseho ikigo nderabuzima cya shagasha.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite n'igikuta gifite irangi ry'umweru, hejuru kuri iyo nzu hari amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, handitse ngo ikigo nderabuzima cya Gishweru, yandikishijwe mu ibara ry'ubururu.

Icyapa kinini gifite ubuso bw'ibara ry'umweru ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ibirango bigiye bitandukanye hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'andi yandikishijwe ibara rijya gusa umutuku.

Abantu batatu batandukanye harimo umwana wambaye ikote ry'ubururu bwijimye ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari gusunika umugabo wicaye mu kagare wambaye ishati y'umweru imbere yabo hakaba hari umugore wambaye umupira w'amaboko magufiya w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, bakaba bagiye kwinjira mu ihema rifite ibara ry'umweru n'icyatsi n'umuhondo

Ivuriro rifite ibara ry'umweru ku nkuta ndetse n'imiryango n'amadirishya afite ibara rijya gusa umukara, hakaba hariho ibitanda by'umweru ndetse buri gitanda kikaba gifite inzitiramibu ifite ibara ry'ubururu, hakaba ari umugabo ushinzwe kugenda azizamura azizinga.

Abantu batatu batandukanye harimo umugore ufite imisatsi ifunze wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umukara. Akaba arikuvugana n'umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse akaba yambaye n'agakoresho gashinzwe gupima umutima w'umuntu uko uhagaze mu ijosi, akaba afite n'ikayi n'ikaramu mu ntoki. Inyuma yiwe hakaba hari umuganga wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu.

Icyumba k'ivuriro gikorerwamo isuzuma ry'umubiri w'umuntu ndetse hakaba harimo icyuma gifite ubushobozi bwo gusuzuma umubiri w'umuntu, hakaba harimo umuganga ushinzwe gukontorora icyo cyuma, wambaye itaburiya y'umweru.

Inzu igeretse rimwe ifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi rijya gusa nk'ivu, imbere yayo hari imodoka ihaparitse ndetse n'abantu bahahagaze, hakaba hari n'ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'ibyatsi ndetse n'igiti bita umukindo.

Ivuriro rifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya arimo ibirahure, rikaba rifite kamera zishinzwe umutekano ndetse n'amatara hejuru, hakaba hari n'inkuta zisize ibara ry'umweru ndetse n'irindi rijya gusa umukara.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru ndetse akaba ari n'igikuta kiriho ibara ry'ubururu, akaba ari igikuta cy'umweru kiriho isaha ifite ibara ry'umweru n'umukara. Muri icyo cyumba hakaba harimo igitanda kiryamaho umurwayi ufite ikibazo, kikaba gifite ibara ry'umukara. Harimo n'icyuma cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'ibyuma bipima uko umubiri w'umuntu uhagaze muri ako kanya, hejuru kuri parafo hariho amatara y'umweru.

Icyumba kibikwamo ibizami bivuye gufatwa ku bantu baje kwivuza, ibyo bizami bikaba biri muri tubati tugeretse dukozwe mu byuma.

Inzu ifite inkuta z'umweru, ikaba ifite n'inkingi zifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara rijya gusa umuhondo, ikaba ifite na parafo ifite ibara ry'umweru n'amatara y'umweru, imbere hakaba hari ahantu bakirira abantu, hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara rijya gusa umweru.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru, wambaye n’umupira ufite ibara ry'uburu ufiteho igishushanyo gifite amabara atandukanye. Ndetse akaba yambaye n'ipantaro ifite ibara ry’umukara atwaye igare ahetseho umuntu wambaye agapira gafite ibara rijya gusa n'ubururu, ndetse n'ipantaro y'umukara afite indobo y'umukara mu ntoki bakaba bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya gisenyi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye igeretse inshuro ebyiri ifite icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa yandikishije ibara ry'icyatsi ndetse n'ibindi byapa bigiye biri kuri iyo nzu bifite amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'ubururu imbere y'iyo nyubako hari imodoka zihagaze zifite amabara agiye atandukanye ndetse n'umutaka w’umutuku urimo umuntu wambaye ijire y'umutuku.

Icyumba k'ivuririro kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, icyo cyumba kikaba gifite inkuta zisize ibara ry'umweru ndetse n'ibara rijya gusa umukara, hakaba harimo ibikoresho bifite ibara ry'umweru byifashishwa mu kuvura umurwayi wakorewe muri icyo cyumba.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri harimo icyuma kifashishwa mu kumenyereza umuntu kugenda n'amaguru ahantu harehare, ahandi hakaba hari igikoresho kifashishwa mu kugorora umugongo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibikoresho bya kizungu bigezweho bifite n'amabara agiye atandukanye.

Inzu mberabyombi ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya afite ibara rirya gusa umukara, hakaba harimo ameza afite ibitambaro by'umutuku hakaba hicayemo abantu bagiye batandukanye bafite mudasobwa, imbere yabo imbere yabo hakaba hari umugabo ubayoboye wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantalo y'umukara akaba ari kubahugura ku bijyanye no kurwanya malariya.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya afite ibara ry'umukara ndetse n'inzugi z'umukara birimo ibirahure, hanze y'iyo nyubako haka hari n'indi nyubako yubakishije amabuye afite ibara gusa umukara, ikaba ifitemo agace gatoya karimo ibirahure n'amadirishya gafite ibara rijya gusa umuhodo, hanze y'iyo nzu hari ubusitani buhateye burimo ibyatsi ndetse n'indabyo zifite amabara agiye atandukanye ndetse n'ibiti bitandukanye.

Icyumba cy'ivuriro kirimo inkuta zifite irangi ry'umweru, icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifite amabara atandukanye, harimo ibifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibifite ibara ry'ubururu. Muri icyo cyumba hakaba harimo n'ibitanda bifite ibara ry'umukara n'umweru.

Ivuriro rifite inkuta z'umweru n'umuhondo, ndetse kuri izo nkuta hakaba hari ahari utubati dufite amabara ajya gusa kaki. Ndetse hakaba hari n'andi hari imitako, umutako ukaba uriho ibinyabuzima byo mu mazi ndetse muri iryo vuriro hakaba harimo icyuma gishinzwe gusuzuma umubiri w'umuntu.

Inyubako ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, ikaba ifite amadirishya afite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba arimo ibirahure bigiye bitandukanye. Hanze y'iyo nzu hakaba hari ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'indabyo zifite amaba agiye atandukanye ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye. Hanze y'iyo nzu hari abantu bagiye batandukanye harimo umugabo uri gutambuka wambaye umupira w'umuhondo, ndetse hakaba hari n'undi mwana mutoya wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga.

Inzu ifite inkuta zisize irangi ry'umweru ndetse n'amabati afite ibara rijya gusa umutuku, kubwinjiriro imbere hari abantu bahahagaze bagiye batandukanye ndetse imbere kuri iyo nzu hari amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara rijya gusa umukara.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ifite amabati afite ibara ry'ubururu iyo nzu ikaba ifite ibara ry'umweru mu gice cyo hejuru ikaba yanditseho amagambo ari mu kinyarwanda yanditse ngo inzu y'ababyeyi hanze y'iyo hakaba hari ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'indabyo zifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi kandi kuruhande hakaba hari n'indi nzu ifite imiryango y'ubururu yubakishijwe amatafari ahiye.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, ndetse hakaba hari n'igikuta kiriho ibishushanyo by'abantu bari ku isanzure. Icyo cyumba kikaba kirimo igitanda gishinzwe kuryamaho umurwayi mu gihe arigukorerwa isuzuma. Ndetse hakaba harimo n'akabati gashinzwe kubika ibikoresho byifashishwa bavura umurwayi waje muri icyo cyumba. Akabati kakaba gafite ibara ry'umweru, ndetse n'ibara rijya gusa kaki.

Inzu ifite inkuta zisize ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya afite ibara ry'umukara, arimo ibirahure, hanze y'inzu hari ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'ibyatsi ndetse n'ibiti, hari umwana wicaye mu kagare k'ababafite ubumuga bwo kutagenda.

Inyubako ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse inyubako ikaba yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa ndetse imbere y'iyo nyubako hari ubusitani buhateye burimo indabyo ndetse n'ibyatsi n'ibiti bigiye bitandukanye imbere y'iyo nyubako hari abagabo babiri bambaye imyenda ifite amabara asa harimo umutuku ndetse n'amapantaro y'umukara.

Ivuriro rifite inkuta zifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara rijya gusa umutuku, ibara ry'umutuku, ibara ry'ubururu, ibara rijya gusa icyatsi, ibara ry'umuhondo ndetse hakaba harimo n'intebe zifite amabara atandukanye, harimo intebe zifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ndetse n'irindi rifite icyatsi n'ubururu, hakaba harimo n'igishushanyo cy'akanyayamashyo.

Ivuriro rifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'imiryango ikoze mu birahure, hejuru hakaba ari amadirishya afite ibara rijya gusa umukara, mu imbere muri iryo vuriro hakaba arimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gihe bari bari kuvura umuntu ndetse n'ibindi bikoresho bigaragaza uko ubuzima bw'uwo murwayi buhagaze.

Ihema rifite ibara ry'umweru ririmo abaganga batatu bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'amakarita ariho ibibaranga mw’ijosi, bari kwita ku barwayi babapima imivuduko y'amaraso, bifashishije icyuma gifite ibara ry'umweru, ndetse n'umukara ndetse ku meza hakaba hariho umuti wifashishwa basukura intoki. Iyo meza ikaba iriho igitambaro cy'umweru. Hakaba hari n'undi mugore wambaye ishati y’amaboko magufi yicaye ku ntebe y'umutuku.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta ziriho amabara atandukanye, hakaba hari urukuta ruriho ibara rijya gusa kaki ndetse n'urundi rufite ibara ry'umukara, hakaba harimo icyuma gishinzwe kureba umubiri w'umuntu uko umeze n'ikibazo ufite.

Umugabo wambaye imyenda y’ubwirinzi yifashishwa mu gihe cy'ibyorezo iyo myenda ikaba ifite ibara ry'umweru , ahagaze imbere y'inyubako ifite imiryango ifite ibara ry'umukara irimo ibirahure ku kuruhande rwe hakaba hari indobo ifite ibara ry'icyatsi ndetse karundi ruhande rwe hakaba hari ndobo ifite ibara ry'ubururu.

Ivuriro ryubatse rigeretse rimwe, rifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara rijya gusa umukara, rikaba rifite amabati afite amabara ajya gusa ubururu, imbere y'iryo vuriro hakaba hari abantu bahahagaze ndetse n'imodoka, hakaba hari n'ubusitani buhateye buteyemo igiti bita umukindo.

Abantu babiri harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'undi wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, wambaye umupira ujya gusa icyatsi, akaba ari kumufasha mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara, akaba yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, akaba yifashe ku gice cy'ivi yagizeho ikibazo cy'imvune, akaba ari mu muhanda ku manywa y'ihangu.

Abantu batandukanye bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abagabo n'abagore bambaye impuzankano zigiye zitandukanye zifashishwa mu myitozo ngororamubiri, bahagaze mu gice kitagendwamo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye, bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye amarinete mu maso wambaye n'agapira k'amabokoko magufi, gafite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba afite agacupa k'amazi mu ntoki, ayo mazi akaba ari kuyimenaho mu maso, ndetse imyambaro yambaye akaba ari iyo kwifashishwa mu gihe ugiye mu myitozo ngororamubiri.

Abantu benshi bahagaze batandukanye harimo abaganga babiri bambaye amatabuririya y'umweru, bakaba bari kumwe n'abagabo bambaye amakote afite amabara agiye atandukanye, bakaba bari kureba umurwayi uryamye ku gatanda gafite ibara ry'ubururu, umanitse akaguru ku gikoresho cyabugenewe kimufasha mu kurambura akaguru kahuye n'ikibazo cy'imvune.

Ibishushanyo bishushanyije abantu babiri bari mu myitozo yo kwirwanaho, umwe yambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse undi akambara impuzankano ifite ibara ry'ubururu, munsi hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'icyatsi, ari mu buso bw'umuhondo.

Abantu babiri batandukanye aho harimo umugore ufite imisatsi isutse akaba yambaye agapira gafite ibara rijya gusa umutuku ndetse akaba yambariyeho ijire ifite ibara ry'ubururu, akaba ari gusuzuma umwana mutoya wambaye isengeri y'umweru ndetse n'undi mupira uri hejuru y'isengeri.

Agakarito gafite ibara ry'ubururu hejuru rikaba ryanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibarajya gusa icyatsi mu gihe ayandi afite ibara ry'umweru, munsi yaho hakaba hari ibara ry'umweru naryo ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse hakaba arimo n'imibare y'ingano y'ibintu biri muri ako gakarito uko bingana.

Abagabo babiri harimo uwicaye ku gitanda gifite ibara ry'umukara ndetse akaba yambaye isengeri ifite ibara ry'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara akaba yambaye urukweto ku kuguru kumwe rufite ibara ry'umunkara ndetse akaba yambaye n'isogisi ry'ibara ry'ubururu bwijimye akaba ari kwitabwaho n'uwambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umukara ndetse akaba yambaye ikabutura ifite ibara ry’umukara bigaragara ko ari kumwitaho ku kaguru k’iburyo kahuye n'ikibazo cy'imvune aho ari kumuzirikiraraho ibikoresho bimworohereza kugenda.

Igikoresho gifite ibara ry'umweru kikaba gifiteho n'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye, hakaba hariho imibare ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwayo hari umugozi ufite ibara ry'umukara ushinzwe gucomeka icyo gikoresho.

Inzu mberabyombi irimo ibitanda bibiri biryamyeho umugabo n'umugore bambaye imipira y'umukara, ariko bakaba bambaye amapantaro atandukanye, bakaba bari gukorerwa imyitozo ngororamubiri n'ababihuguriwe, bambaye imipira itandukanye.

Umugabo wambaye isengeri ifite ibara ry'umukara ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'umukara irimo ibara ry'umweru, akaba afite imisatsi ifungiye inyuma, akaba afite n'ubwanwa, ari gukora siporo ingororamubiri.

Amacupa abiri y'amazi afite imifuniko y'ubururu, akaba ari kumwe n'icyuma cyifashishwa mu guterura mu myitozo ngoramubiri, akaba ari kumwe n'imbuto arimo indimu ndetse n'icunga n'imetero ipima uburebure.

Umukobwa wambaye isengeri ifite ibara rijya gusa umutuku, unambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba anambaye n'inkweto zifite ibara rijya gusa umutuku ndetse n'umweru, uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibintu bigiye bitandukanye hariho amazi yo kunywa, imbuto zigiye zitandukanye, ikirahure kirimo amazi, ikindi kirahuri kirimo ji ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye, harimo n'akuma kifashishwa muri siporo ngororamubiri ndetse n'imetero ifite ibara ry'umuhondo.

Inkweto ziri hasi zifite ibara ry'umukara ndetse zikaba zifite na rase n'imashini izifunga, izo nkweto zikaba zifite agapapuro gafite ibara ry'umweru ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'umukara, kakaba kariho ishusho y'umuntu, akaba yambaye ipantaro ifite ibara rijya gusa umukara, akaba ateruye icyuma cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri y'amaboko.

Icupa ry'amazi rifite umufuniko w'ubururu ririmo amazi yo kunywa ndetse n'urubuto, harimo porome ndetse n'icunga n'icyuma cyifashisha mu myitozo ngororamubiri z'amaboko ndetse n'imetero ifite ibara ry'umuhondo, yifashishwa mu gupima uburebure ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, biri ku meza ifite ibara ry'umweru.

Abantu batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore bari kwigishwa ubutabazi bw'ibanze n'umwe mu bagabo ubarimo wambaye umupira w'umweru ndetse ufite ikora ry'icyatsi akaba ari uryamye hasi ku gitambaro gifite ibara ry'icyatsi uri gutangwaho urugero rw'uburyo batanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu wahuye n'ikibazo cy’impanuka.

Umugabo wambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi, ufite ubwanwa bw'umukara akaba afite icupa ry'amazi mu ntoki, ayo mazi akaba ari muri iryo cupa akaba ari kuyanywa ako kanya.

Abagabo batatu batandukanye harimo uwambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, hagati yabo hakaba hari undi mugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ikabutura y'umweru, akaba yambaye kasike ifite ibara rijya gusa kaki ndetse n'umweru n'umutuku, ku ruhande rwe hakaba hari uwambaye umupira ufite ibara rijya gusa umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ibiganza bibiri bifashe igikoresho cy'ibara ry'umukara cyifashishwa mu kwambika kimwe mu bice by'umubiri mu gihe uri gukora imyitozo ngororamubiri hasi hakaba hari ikindi gikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri gifite ibara ry'umukara gifite n'uturongo tugiye duciye muri icyo gikoresho.

Igishushanyo gifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara rijya gusa kaki, kiriho igikoresho gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kikaba kiryamye hasi hafite ibara rijya gusa nka kaki ndetse no ku gatambaro gafite ibara ry'umweru n'ubururu, kikaba kegeranye n'igikapu gifite ibara ry'umutuku ndetse n'irindi bara rifite, rijya gusa umuhondo.

Umugabo ufite ubwanwa bw'umukara wambaye isengeri ifite ibara rijya gusa umweru, ari mu myitozo ngororamubiri ifasha ibice by'amaboko ndetse n'ingingo z'amaboko mu kurambuka yirinda y'uko byagira ikibazo cy'imvune.

Ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, iruhande rwacyo hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ku rundi ruhande rwo hirya hari ikirango cy'ibitaro by'ikigo cya gisirikare cyo mu Rwanda, munsi ya ho hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza agiye atandukanye, afite amabara agiye atandukanye.

Igikoresho gifite ibara ry'umukara kikaba gifite imirongo y'umweru igiye inyuramo, kikaba gifite ikimenyetso kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza bifite ibara ry'umweru iki gikoresho kikaba cyifashishwa gishyirwa ku kaguru k'umuntu ku gice cy'ivi mu gihe yahuye n'ikibazo cy'imvune.

Ikiganza cy'umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba afite urupapuro rw'umweru ndetse n'ikaramu ari kwandika kuri urwo rupapuro, iruhande rwe hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanyecya igikoresho cyifashwa mu gupima k'umutima uko utera ndetse n'akandi gakoresho kifashishwa muri siporo ngororamubiri ndetse n'umunzani upima ibiro ndetse n'urubuto ku ruhande ndetse n'amazi.

Icupa rifite umufuniko w'ubururu rikaba ririmo amazi. Iruhande rwawo hakaba hari amazi yatarutse bitewe n'uko iryo cupa ryatakayemo. Inyuma yaho hakaba hari ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umugabo ufite ubwanwa bw'umukara wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu akaba yambaye isaha ku kaboko k'iburyo ifite ibara ry'umukara, akaba afite agacupa k'amazi karimo amazi ari kunywa, ako gacupa kakaba gafite umufuniko w'umweru.

Abantu babiri batandukanye, harimo umuganga w'umuzungu ndetse n'umurwayi w'umwirabura, uwo muganga akaba ari kumuvura imvune afite mu kuguru, akaba ari kumushyiraho ibikoresho byabugenewe mu gihe umuntu yagize ikibazo cy'imvune.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibishushanyo bitandukanye, byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, hejuru kuri urwo rupapuro hakaba hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku, ari mu rurimi rw'Icyongereza, urwo rupapuro rukaba ruriho ibishushanyo birimo n'impakasi, ga zo kwambara, inshinge, ibipfuko ndetse n'ibinini ndetse n'udupfukamunwa ndetse n'itoroshi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Bitatu bifite amabara atandukanye harimo igifite ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'igifite ibara ry'umutuku, hakaba hariho akaboko kariho icyi gikoresho, icyo gikoresho kikaba kifashishwa mu kuzirika urugingo rw'umuntu rufite ikibazo.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umweru ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'umukara akaba yambaye inkweto zifite ibara ry'umweru ari mu myitozo ngororamubiri y'akaguru ndetse n'umugongo ukuguru kukaba yagushyize ku cyuma kiri ku muhanda.

Abantu batatu batandukanye harimo umuganga wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu akaba afite igikoresho gifite ibara ry'umweru ari gusuzumisha umwana mutoya wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umuhondo uwo mwana akaba akikiwe na mama we wambaye agapfukamunwa wambaye umwitero ufite ibara ry'umuhondo, muri icyo cyumba hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye biri kwifashishwa mu buvuzi bavura uwo mwana.

Umwenda uriho ikirango cya sosiyete ishinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze, uwo mwenda ukaba uhabwa abashinzwe gutanga amahugurwa kuri ubwo butabazi bw'ibanze.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse hejuru hakaba hari amatara y'umweru, icyo cyumba kikaba kirimo igikoresho cy'umweru gifite ubushobozi bwo gusuzuma umubiri w'umuntu mu gihe ufite ikibazo.

Umugabo wambaye isengeri ifite ibara ry'umukara ndetse n'ipantaro yabugenewe mu gukoresha imyitozo ngororamubiri ifite ibara ry'umukara akaba yambaye agakomo gafite ibara ry'icyatsi ku kaboko kw'ibumoso akaba afite icupa ririmo amazi agiye kunywa.

Umugore w'umuzungu uri mu nzu ifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru arimo ibirahure, uwo umugore akaba afite imisatsi miremire n'agasengeri kagaragaza umukondo, akaba yambaye n'ipantaro yifashishwa mu gukora siporo, akaba ari ku gatapi gatoya bakoreraho siporo.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye aho harimo umupira ukinwa w'amaguru ufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara ukaba uciyemo n'utundi turongo tw'umukara ukaba wegeranye n'ingofero yifashishwa y'ubwirinzi mu gihe ari gukina umupira umukino wo kuvundagura ndetse n'undi mupira ukinwa w'amaboko ndetse n'indi mipira yindi itandukanye ifite amabara agiye atandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse akaba anambaye kuteri z'imigozi miremire zifite ibara ry'umweru, akaba yambaye n'isaha y'umukara ku kaboko k'iburyo, akaba afite icupa ry'amazi ririmo amazi ari kunywa.

Ibikoresho bigiye bitandukanye harimo igikoresho cyifashishwa mu mukino w'iteramakofe ndetse n'undi mukino w'umupira w'amaguru n'undi w'amaboko, hakaba biri kumwe n'akoresho kifashishwa mu gupima uko umutima w'umuntu utera, gafite ibara ry'umukara ndetse n'utundi twuma dushamikiyeho.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, icyo cyumaba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, kikaba gifitemo agatanda karyamaho umurwayi waje kuvurirwa muri icyo cyumba. Icyo gitangira kikaba gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'agatebe gatoya muganga yicararaho gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Umusore wambaye agapira gafite ibara rijya gusa kaki, akaba yambaye na ekuteri mu matwi zifite imigozi miremire, zifite ibara ry'umweru, afite agacupa k'amazi mu ntoki, agiye kuyanywa.

Igishushanyo kiriho agakoresho gapima uko umutima w'umuntu utera, ndetse n'umupira w'amaguru ufite ibara ry'umukara n'umweru, ndetse n'inkweto yifashishwa mu gukina umupira w'amaguru ifite ibara ry'umukara n'umweru, ndetse n'umutuku.

Urupapuro ruriho ishusho y'abagabo batatu bari gukina imikino y'amaboko, bose bambaye kasike z'ubwirinzi igihe bari gukina iyo mikino, bakaba bambaye imipira itandukanye, hakaba hari uwambaye umupira w'umweru undi akaba yambaye umupira w'umutuku n'undi aka yambaye umupira w'umutuku wijimye, kuri urwo rupapuro handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza hejuru ndetse no hasi hahera.

Icyumba cy'ivuriro kirimo abantu bagiye batandukanye, harimo abaganga bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru ndetse harimo ikirango gifite ibara ry'ubururu, bari kumwe n'abayobozi batandukanye bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye amakote afite ibara rijya gusa nk'ivu ndetse n'undi wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu bwijimye, hakaba hari umurwayi uryamye ku gatanda gafite ibara ry'ubururu, akaba amanitse akaguru mu cyuma cyabugenewe mu kugorora ingingo.

Icyuma cyo kwa muganga gifite ibara ry'umweru mu hagati, mu kirahure hakaba harimo ibara ry'umukara, hakaba harimo imibare igiye itandukanye, ndetse n'utundi tumenyetso tugiye dutandukanya, iki cyuma kikaba gikoreshwa mu gupima uko ubuzima bw'umuntu buhagaze.

Umuganga wambaye itabuririya y'amaboko maremare y'umweru akaba afite n'agakoresho kifashishwa bapima uko umutima w'umuntu utera, ari gufasha umuntu uryamye ku gatanda wambaye ikabutura ifite ibarajya gusa nk'ivu wagize ikibazo cy'imvune yo mu ivi.

Abantu babiri batandukanye, harimo umuganga wambaye umwambaro w'ubururu, ndetse n'ikarita iriho imyirondoro y'iwe mu ijosi, akaba ari kugorora umuntu wambaye ishati ifite ibara ry'ivu, ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba ari kumugorora mu ngingo zavunitse.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari ku rupapuro rw'ubururu ayo magambo akaba ari mu ibara ry'umweru munsi y'ayo magambo hakaba hari agace gatoya gafite ibara ry'icyatsi n'umutuku ndetse n'icyatsi cyerurutse harimo n'umweru, munsi y'icyo gice hakaba hariho n'andi magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Salle ikorerwamo imyitozo ngororamubiri irimo ibyuma byifashishwa muri iyo myitozo hakaba harimo umugabo w'umwirabura uryamye ku gatanda gafite ibara ry'umukara wambaye agapira k'umuhodo ndetse, n'ikabutura y'umukara akaba ari gukoreshwa imyitozo n'umugabo w'umuzungu wambaye ingofero y'umukara, ndetse n'umupira w'umukara.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, akaba yambaye n'inkweto zifite munsi hasa umukara, akaba yicaye mu byatsi arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara ndetse n'ubwanwa, akaba yambaye umukufi mu ijosi, ndetse akaba yambaye n'umupira ufite ibara ry'ubururu, akaba afite icupa ryamazi yo kunywa, akaba ari kunywa amazi ari muri iryo cupa.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ijage ikozeze mu birarahure, iyo jage, ikaba irimo amazi, akaba ari gusuka amazi mu kirahure cyo kunyweramo amazi, kikaba giteretse hasi hafite ibara ry'umweru.

Umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru akaba ari kuvura umuntu wambaye ikabutura y'umukara ndetse akaba yambariyemo kora, akaba ari kumuvura ikibazo cy'imvune yahuye na cyo mu ivi.

Akagare kagenderwamo n'abafite ubumuga bwo kutagenda gafite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, ako kagare gafite amapine ane yifashishwa mu gusunika umuntu ukicayemo.

Abantu babiri harimo uwambaye ubururufite ibara ajya gusa umweru akaba yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba ari kwitabwaho n'umuforomokazi wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, akaba ari kumufasha kwiga kugenda akaba anambaye n'umukandara ufite ibara ry'umweru mu inda.

Agakoresho kifashishwa mu kugabanya inda, kagura amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri by'amanyarwanda. Ako gakoresho kaba gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, hasi y'ako gakoresha hakaba hariho ibara ry'umukara akaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ibikoresho bitandukanye bifite amabara agiye atandukanye byifashishwa mu kuvura umuntu mu gihe yagize ikibazo cy'imvune, bikanifashishwa mu gihe cy'ubutabazi bw'ibanze, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu kuzirika urugingo rwahuye n'ikibazo cy'imvune, hakaba harimo ibinini, inshinge ndetse n’imikasi, ndetse na ga zifite ibara ry'ubururu, ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gupima umuriro umuntu afite.

Imipira igiye itandukanye yifashishwa muri siporo ngororamubiri harimo umupira wamaguru w'umupira w'amaboko ndetse n'umupira batera ikaba ifite amabara atandukanye harimo ibara ry'umuhondo, umweru, umutuku ndetse na kaki n'umweru n'umukara ndetse hakaba hari n'akuma gashinzwe gupima umutima w'umuntu.

Imbuto zigiye zitandukanye harimo amacunga, imineke ndetse na pome, n'indimu ndetse n'ibindi bitandukanye, akaba ari umugabo w'umuzungu uri gukora siporo ngororamubiri.

Umugore wambaye agasengeri kagufiya gafite ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara uri mu myitozo ngororamubiri, uhagaze imbere y'amazi magari, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri ifasha amaguru ndetse n'umugongo.

Imiti igiye itandukanye harimo ibipfufo, utwifashisha kuzirika aho wavunitse, ibyifashishwa mu kwikanda, byifashisha mu kugabanya ububabare, iyi miti ikaba ikoreshwa n'abantu bakora siporo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga gifite inkuta zifite amabara y'umweru ndetse n'akabati kageretse gafite amabara y'umweru, icyo cyumba kikaba kirimo icyuma gikoreshwa hasuzumwa umubiri w'umuntu ibibazo ugiye ufite.

Agatanda gakozwe mu byuma, gafite imigozi ifite ibara ry'umukara, aka gatanda gatwarwaho umuntu wagize ikibazo cy'imvune ari mu myitozo ngororamubiri, mu myitozo igiye itandukanye n'imikino, harimo umupira w'amaguru ndetse n'iyindi.

Umugabo n'umugore bari mu myitozo ngororamubiri, aho umugabo yambaye agasengeri gafite ibara rijya gusa nk'ivu n'ikabutura ifite ibara ry'umukara n'icyatsi, akaba yejyeranye n'umukobwa wambaye isengeri ifite ibara ry'ubururu n'ikabutura y'umukara, bose bakaba bafite icupa ry'amazi mu ntoki, ririmo amazi yo kunywa mu gihe bagize inyota.

Icyumba cy'ivuriroho kirimo utubati tugekeje turimo ibikoresho bigiye bitandukanye, muri icyo cyumba ha akaba harimo umuganga wambaye itaburi ifite iba ry'inmye ndetse n'ipantaro ifite ibara rye gusa nk'ivu, wambaye inkweto z'umukara akaba ari kumwe n'umurwayi ufite ikibazo cy'akaguru wicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu iyontebe ikaba iriho ibikoresho bigiye bitanuana bimufasha mu gukoresha ukuguru gufite ikibazo cy'imvune.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi wambaye agasengeri kagufi gafite ibara ry'umukara, akaba anambaye n'ipantaro yabugene mu gukora imyitozo ngororamubiri akaba yicaye ku gatapi gatoya kabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hakaba hari mudasobwa ifite ibara ry'umweru ndetse ku ruhande hakaba hari udukoresho tubiri dufite ibara rijya gusa umutuku twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hakaba hari n'icupa ry'amazi riri ku ruhande rwiwe.

Umusore wambaye agasengeri gafite ibara ry'icyatsi, akaba yambaye n'agakomo kanini gafite ibara rijya gusa umutuku, akaba afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kuyimenaho mu maso.

Ikiganza cy'umuntu wambaye impeta ku kaboko k'ibumoso, ufite igikoresho cyifashishwa gushyira ku rugingo rwahuye n'ikibazo cy'imvune, icyo gikoresho kikaba gifite ibara ry'icyatsi cyerurutse.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara rijya gusa nk'ivu uhetse igikapu gifite ibara ry'umuhondo, afite icupa ry'amazi rifite ibara ry'ubururu, hakaba harimo amazi ari kunywa inyuma yiwe hakaba hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Imeza ikozwe mu mbaho, iriho umugozi wo gusimbuka ndetse n'inkweto zo kujyana muri siporo n'akandi gakoresho kifashishwa mu kugorora imitsi yo mu kaboko, hakaba hari isahani iriho urunyanya, igitunguru ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, hakaba hari n'agakoresho kifashishwa mu gupima uko umutima utera.

Abantu babiri batandukanye arimo umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu bwijimye uciyemo imirongo y’umweru akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri y'amaboko akaba ari kumwe n’ushinzwe kumwitaho wambaye umupira w’ubururu bwerurutse wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso ndetse n'ipantaro y'ubururu bwijimye kuruhande rwabo hari agatebe ko kwicara ho gafite ibara ry'ubururu.

Agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko ufite ibara ry'umweru, gafitemo n'andi mabara afite ibara ry'icyatsi, ndetse n'icyatsi kerurutse, kakaba kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Amacupa atandukanye harimo afite ibara ry'icyatsi, iry'umukara ndetse n'ibara rijya gusa kaki. Yose akaba ariho ibipapuro biranga imiti irimo gakondo, ayo macupa ashinzwe kubikwamo imiti gakondo.

Ibiganza by'umuntu bifite agahini gatoya ndetse n'agasekuru mu ntoki gafite ibara ry'umweru, akaba ari gutunganya imiti gakondo ndetse impande n'impande hari ibimera byifashishwa mu gutegura imiti gakondo.

Agakarito gafite ibara ry'icyatsi n'umweru gato, kakaba kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, ako gakarito kakaba kavamo ibinini kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, birindwi, umunani, icyenda, icumi, ibyo binini bikaba byarakozwe mu miti gakondo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi, hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi ari kureba mu byerekezo bitandukanye, kifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Ibihingwa bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo, harimo igitoki ndetse n'ibindi bibabi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ubunyobwa buhingwa, akaba ari amashusho agera muri ane.

Agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko ufite ibara ry'umutuku, kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka, ako agacupa kakaba kariho n'amashusho y'imbuto zigiye zitandukanye, ndetse n'igihingwa cyitwa igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi.

Ibiganza bibiri by'umuntu bifashe agapapuro, gafite ibara rijya gusa umweru, karimo umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura umuntu, ufite ibara rijya gusa icyatsi, ku ruhande rwe hari n'icyatsi gifite ibara ry'icyatsi, ndetse akaba ahagaze mu muhanda w'igitaka.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi menshi ari kureba mu byerekezo bigiye bitandukanye, iki gihingwa kikaba kifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Uducupa dutandukanye dufite amabara atandukanye harimo udufite ibara ry'umweru ndetse n'udufite ibara ry'icyatsi, udufite ibara ry'umweru harimo udufite ishusho y'igikakarubamba ifite ibara ry'icyatsi, tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu mabara agiye atandukanye, hari n'utubido dufite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru tukaba turiho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, munsi y'ayo magambo hari udukarito dufite amabara agiye atandukanye, hari agakarito gafite ibara ry'icyatsi, ndetse n'akandi gafite ibara rijya gusa umutuku, n'akandi gafite ibara rijya gusa ubururu, utwo dukarito tukaba tuteretse ku biti byakaswe. inyuma kuri ibyo bikarito hari ubusitani bufite ibiti bigiye bitandukanye. Utwo dukarito tukaba tubikwamo imiti ikomoka ku buvuzi gakondo.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara ari hejuru yegeranye n'ibihingwa bigiye bitandukanye bifite amabara agiye atandukanye aho ari igihingwa gifite ibara ry’icyatsi bita igikakarubamba kiri mu igikombe cy'umweru n'ibindi biri mu bikombe bigiye bifite amabara agiye atandukanye ndetse n'ibyo bihingwa bikaba bifite amabara agiye atandukanye ari igifite indabyo z'umuhondo ndetse n'igifite ibara ry'icyatsi ryerurutse bikaba bifite amazina ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umukara.

Amacupa abonerana afite imifuniko igiye itandukanyeho harimo imifuniko y'umweru ndetse n'umutuku, akaba ariho udupapuro tw'umweru turiho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza imbere muri ayo macupa ha akaba arimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse n'imiti ya gakondo.

Amacupa atatu afite amabara atandukanye, akaba arimo icupa rifite ibara ry'umweru n'umufuniko ufite ibara ry'umutuku wijimye, ndetse n'irindi rifite ibara ry'umweru rifite umuvuniko w'umutuku ndetse n'irindi rifite ibara ry'umuhondo rifite ibarajya gusa kaki, yose akaba yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umutuku ndetse akaba afiteho ishusho y'igihingwa cyitwa igikakarubamba.

Umurima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, bifite ibara ry'icyatsi gihishije ndetse n'ibindi bifite ibara ry'icyatsi, muri ibyo bihingwa hakaba harimo igihingwa kifashishwa mu gukora imiti gakondo, hirya yaho hakaba hari n'ikindi gihingwa nacyo kifashashi mu gukora imiti gakondo.

Agakarito gafite amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'umweru ndetse n'ibara rijya gusa ubururu, hakaba hariho ishusho y'umukobwa wambaye agasengeri kagufi kagaragaza umukondo ndetse n'ipantaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri ifite ibara ry'umukara, ako gakarito kakaba kariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umukara ndetse n'inyuguti ziri mu mpine ndetse n'imibare igiye itandukanye.

Agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko ufite ibara ry'ubururu bwijimye, kuri ako gacupa k'umweru hakaba hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ndetse hakaba hariho n'ikirango cy'igisiga kiguruka.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo igihingwa gifite amababi arimo kureba mu byereke bigiye bitandukanye, icyo gihingwa kikaba gifite n'ururabo rufite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, kikaba kifashishwa mu gukora umuti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Uducupa dutatu dutoya harimo tubiri dufite ibara ry’umweru ndetse n'akandi gafite ibara ry'umuhondo kariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara rijya gusa umukara ndetse n'ishusho y'igihingwa cyitwa igikakarubamba cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse n'utundi ducupa turi ku meza, dufite ibara ry'umweru twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara ry'ubururu bwijimye.

Igiti kibaje kiriho ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera imiti yifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse n'ubuvuzi gakondo. Hariho agasahani gafite ibara ry'umweru ndetse n'igikombe gifite ibara ry'umweru kirimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'uducupa duto dufite ibara rijya gusa umukara n'icupa ribonerana ririmo imiti mo imbere.

Urupapuro rw'umweru ruriho agacupa gafite ibara ry'umutuku gakozwe mu cyuma, ako gacupa kakaba kariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikirango cy'igisiga kiguruka. Hasi hakaba hari ibara ry'umweru ririmo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umukara.

udusahani tugiye dutandukanye dufite amabara agiye atandukanye, turimo ibintu bibiri bitandukanye by'imiti gakondo, duteretse ku meza afite ibara rijya gusa kaki. Kandi kuri ayo meza hakaba hariho n'ibindi bihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo, hakaba n'akandi gasahani gafite ibara ry'umweru, ndetse kakaba gafite n'agahini gatoya gafite ibara ry'umweru.

Iduka ricuruza imiti gakondo, hariho umugore wambaye igitambaro cy'umweru ndetse n'umupira ufite ibara rijya gusa umukara. Akaba ahagaze inyuma y'amacupa arimo iyo miti gakondo, imbere y'ayo macupa hakaba hari umugabo wambaye ishati ifite ibara rijya gusa umukara, ndetse n'ipantaro ifite ibara rijya gusa kaki. Hirya yabo hakaba hari n'abandi bantu bacuruza imiti gakondo, hakaba hariyo n'abantu batandukanye harimo uwambaye itaburiya y'umweru.

Ibihingwa bigiye bitandukanye harimo indimu ndetse n'andi mababi y'ibindi bihingwa bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi, bikaba byifashishwa mu gukora imiti yo mu buvuzi gakondo ndetse ikifashishwa no mu buvuzi busanzwe bwa gakondo.

Igihingwa gifite ibara ry'icyatsi gifite amababi agiye atandukanye, kikaba kiri kumwe n'ibindi bihingwa bifite ibara ry'icyatsi ryerurutse, ibyo bihingwa bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo ikimera cyifashishwa mu kuvura umuntu ndetse kikanifashishwa mu gukora imiti gakondo, kikaba gifite amababi agiye atandukanye ari mu bice bigiye bitandukanye.

Amacupa menshi akozwe mu bwoko bugiye butandukanye, afite amabara atandukanye, harimo amacupa afite ibara ry'umuhondo, umutuku ndetse n'afite ibara rijya gusa kaki, ayo macupa abikwamo imiti gakondo ndetse amwe mu macupa amwe n'amwe ariho ishusho y'igihingwa cyitwa igikakarubamba.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati yubururu bwerurutse kuruhande rwe akaba ari amacupa arimo imiti gakondo agiye atandukanye afite ibara ry'mwe munsiwe hari amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda afite amabara atandukanye harimo afite amabara yu'ubururu ndetse n'afite ibara ry'umutuku ari mu ibara ry'ubururu abanza yanditse ngo undi mujyanama mubuzima n'imirire umenyere imirire iboneye.https://kinyarwanda-2025.web.app/assets/stop-778e9876.png

Uducupa tubiri dutandukanye dufite amabara atandukanye arimo agafite ibarajya gusa umweru ndetse n'umuhondo ,irindi rikaba rifite ibara ry'umuhodo ndetse n'irindi bara rijya gusa kaki rikaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ibirango by'igisiga bikaba biriho n'amashusho ariho ishusho y'igikakarubamba byifashishwa mu buvuzi gakondo aya macupa akabamo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse n'imiti ya gakondo.

Akabati kageretse inshuro irenze imwe gafite ibara ry'umweru karimo amacupa agiye atandukanye afite n'ingano zitandukanye, ayo macupa akaba arimo imiti y'ubuvuzi gakondo.

Amacupa atandukanye afite imifuniko y'ubururu, hakaba hari amwe afite imifuniko y'ubururu bwerurutse n'andi afite imifuniko y'ubururu bwijimye, akaba arimo imiti igiye itandukanye, imiti y'ubuvuzi gakondo, aya macupa akaba ariho agapapuro k'umweru kariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru, kakaba gafite agapapuro kometseho kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse hakaba hariho n'ishusho y'uruyuki. Ku ruhande rw'ako gacupa hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru ndetse munsi hakaba hari n'andi ari mu ibara ry'umukara.

Igihingwa gifite ibara ry'icyatsi gifite amababi agiye atandukanye, iki gihingwa cyifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda ndetse no mu buvuzi bwa kinyarwanda, kikaba kiri ahantu hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye ndetse hasi hakaba hasize irangi ry'umweru.

Igihingwa gifite amabara abiri atandukanye, harimo igifite icyatsi gihishije ndetse n'igifite icyatsi, kikaba gitewe mu ivase ifite ibara rijya gusa umukara, iki gihingwa kiba cyifashishwa mu miti gakondo, mu gukora imiti gakondo.

Utubido dutatu dutandukanye turimo imiti ya kinyarwanda tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse utwo tubido tukaba dufite ikirango cy'igisiga kiri kuguruka inyuma yaho hari ikimera bita igikakarubamba gikasemo ibice bitatu.

Ubusitani burimo ikimera gifite indabyo zifite amabara agiye atandukanye, harimo indabyo z'umweru n'umuhondo, umutuku ndetse n'izindi zifite ibara rijya gusa umweru, icyo gihingwa kikaba cyifashishwa mu kuvura umuntu mu gihe yagize ikibazo cy'inkorora.

Agacupa gatoya gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w'umweru wako gacupa ukaba uriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi kuri ako gacupa hakaba hariho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka kiri mw’ibara ry'icyatsi cyerurutse munsi yako hakaba hari n'andi magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza arimo ubuso bw'icyatsi cyerurutse ndetse amagambo akaba afite ibara ry'umweru.

Amacupa atandukanye ndetse n'utubido dufite amabara atandukanye arimo utubido dufite ibara ry'umuhondo ndetse n'utundi dufite ibara ry'umweru gusa tudahuje amabara y'imifuniko , kuri utwo tubido handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka kuruhande hari uducupa dutoya dufite ibara ry'umweru turiho amagambo ari mu rurimi rw'icyongerezaza ndetse n'kirarango cy’igisiga kiri kuguruka imbere yaho hari ikimera bita igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi.

Amacupa menshi atandukanye ari ku meza ifite igitambaro cy'ubururu, ayo macupa arimo amacupa abonerana ndetse n'andi atabonerana, hakaba afite ibipapuro bigiye bibyometseho bifite amabara atandukanye, hari amacupa afite ibipapuro byometseho bifite amabara y'umweru ndetse n'ibindi bifite amabara y'icyati. Ayo macupa akaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse ayo macupa akaba afite imifuniko igiye itandukanye, amacupa akaba afite imifuniko y'icyatsi ndetse n'umweru.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibintu bigiye bitandukanye aho hariho akabido gato gafite ibara ry'umweru, gafite ibara ry'umutuku ku mupfundikizo, ndetse munsi yaho hakaba hari amagambo menshi yanditse mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umukara.

Igihingwa gifite ibara ry'icyatsi ndetse kikaba gifite n'amababi agiye ari mu byerekezo bitandukanye kikaba gifite n'indabyo zifite amabara agiye atandukanye arimo umuhondo ndetse n'umutuku icyo gihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Icupa ryo mu kirahure rifite umufuniko w'icyatsi ndetse rikaba rifite n'agapapuro karyometseho, kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda umuravumba, mu imbere mu icupa hakaba harimo umuti gakondo.

Umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye itaburiya iciye amaboko ifite ibara ry'umweru ari mu iduka ricuruza imiti igiye itandukanye ya gakondo, harimo n'amazi yo kunywa ndetse n'ibindi binkwebwa, ikaba afite urukuta ruriho impamyabumenyi ebyiri zifite ibara ry'umweru, ndetse kuruhande hari n'isakazamashusho ifite ibara ry'umweru.

Agacupa gatoya gafite ibara ry'umweru kakaba kariho igipapuro gifite ibara ry'umweru n'umukara, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse akaba afite ibara ry'umukara hakaba hari n'andi ari mu buso bw'umukara, ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru.

Ibihingwa byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo ndetse no gukora imiti ya gakondo, harimo ibyatsi ndetse n'indabyo bifite amabara agiye atandukanye, harimo amabara umweru, umuhondo, icyatsi ndetse n'ibijya gusa umutuku.

Uducupa twinshi dutandukanye twifashishwa bashyiramo imiti y'ubuvuzi gakondo, uducupa tukaba dufite amabara agiye atandukanye, harimo udusa umweru ndetse dufite n'andi mabara agiye atandukanye, harimo n'utubido dutoya dufite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara rijya gusa umukara ndetse n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Agashashi kabonerana karimo imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, kakaba karimo imiti ifite ibara rijya gusa umukara, kakaba kariho agapapuro kariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse n'imibare y'uburemere bw'ako gashashi.

Imeza ifite ibara rijya gusa kaki, iteretseho ibikoresho bigiye bitandukanye, hariho amakoma ibitunguru ndetse n'udusahani tw'umweru n'ibyatsi bigiye bitandukanye n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo, yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Icupa ribonerana, rifite umufuniko w'umuhondo, uriho igipapuro cy'umweru, kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ishusho y'igihingwa cyitwa umuravumba, kiri muri ako gacupa, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse nari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo umuravumba.

Ibihingwa bitandukanye, biri mu dukoresho twabugenewe two guhingwamo, dufite ibara ry'umukara, ibyo bihingwa bikaba bifite ibara ry'icyatsi, ibyo bikaba byifashishwa mu rwego rwo gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe ry'umukara, akaba afite uducupa tubiri mu ntoki turimo imiti itandukanye, ndetse imbere y'iwe hakaba hari akabati gakozwe mu cyuma, hejuru y'ako kabati hateretseho amacupa abiri. Harimo icupa ribonerana ndetse n'irindi cupa ry'umukara.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, akaba yambaye umwitero ufite ibara ry'umweru, anafite isakoshi ifite ibara rijya gusa kaki mu kuboko kw'ibumoso, akaba ari gukora ku gihingwa cyegeranye n'insina, igihingwa cyifashishwa mu gukora imiti ya Kinyarwanda ndetse no mu buvuzi bwa Kinyarwanda.

Amacupa abiri afite ibara ry'umweru ndetse akaba yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Iruhande rw'ayo macupa hari amashusho y'abantu bagiye bafite uburwayi bw'uruhu bugiye butandukanye. Ano macupa akaba arimo amavuta akozwe mu miti gakondo yifashishwa mu kwisiga akavura ubwo burwayi bw'uruhu.

Umurima urimo ibimera bigiye bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi, harimo ikimera kitwa umuravumba gifite amababi menshi, kifashishwa mu gukora umuti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye n'ibiti bigiye bitandukanye, harimo igihingwa cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti yakwifashishwa mu buvuzi gakondo, icyo gihingwa kikaba gifite amababi y'icyatsi.

Umukeka uriho ibikoresho bigiye bitandukanye, hariho udusahani turiho ibimera bigiye bitandukanye ndetse hakaba hari n'ibiganza by'umuntu, bifashe agasekuru ka kijyambere ndetse n'agahini karimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, ibyo bikoresho byose biri ku mukeka bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Ikiganza cy'umuntu cyambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, akaba afashe igihingwa mu ntoki, kifashishwa mu gukora imiti gakondo, kiba giteye ahantu mu busitani.

Ugacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w'umweru, kakaba kariho agapapuro kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara rijya gusa umutuku ndetse hakaba hariho n'ishusho ry'uruyuki, hakaba hariho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Amacupa ndetse n'udukarito tugiye dutandukanye dufite amabara atandukanye ndetse n'urubuto rwitwa inanasi, biteretse ku meza ifite ibara ry'umweru, ayo makarito ndetse n'utwo ducupa tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi, harimo ibyakuze cyane ndetse n'ibiri kugenda bikura bitarakura neza ndetse n'ibikiri kuzamuka, iki kimera kiba cyifashishwa mu buvuzi gakondo, iki kimera kiba cyifashishwa no mu gukora imiti.

Umugore ufite ibiganza bibiri birimo agacupa gafite ibara ry'umukara ndetse n'umufuniko w’umukara ako gacupa kakaba kabariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza azengurukijwe n'ibara rijya gusa umutuku ayo magambo akaba afite ibara ry'umukara akaba n'andi magambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru.

Urupapuro rufite ibara rijya gusa umutuku hejuru ndetse hasi hakaba hari n'ibara rijya gusa umweru, hose hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, akaba ariho izina ry'igikoresho cyifashishwa mu gusiga ku munwa igihe yumagaye. Ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'icyongereza, akaba ari mu ibara ry'umukara ndetse no mu ibara rijya gusa umutuku ahandi hejuru akaba ari mu ibara ry'umweru.

Urupapuro rw'umweru ruriho ikimera bita igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi, ku ruhande hari amafoto agiye atandukanye ariho ibihingwa bigiye bitandukanye, ndetse hakaba hari n'amagambo yanditse hejuru ari mu rurimi rw'icyongereza.

Uducupa tubiri dufite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi ndetse hakaba hariho igihingwa bita igikakarubamba, kuri utwo ducupa hakaba hariho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara.

Agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w’umweru, ku ruhande rwaho hari indabyo zifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hakaba n'ikindi gihingwa kiri ku ruhande gifite ibara ry'ubururu, akaba ari igihingwa cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, iruhande rwawo hari n'undi muti uri mu ducupa tw'umweru ndetse n'icyatsi n'imifuniko y'umweru akaba ari imiti gakondo ituruka ku bihingwa n'igikakarubamba.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru, ndetse n'icyatsi, munsi akaba ari n'andi magambo afite ubuso bw'icyatsi amagambo ari ururimi rw'icyongereza, yandikishijwe ibara ry'kaba akikijwe n'ikimera, cyifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Agacupa gatoya gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w'umweru, kakaba kariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, akaba ari mu ibara rijya gusa umuhondo, ako gacupa kakaba kariho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka, munsi hari ibara ry'umuhondo ryanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umukara.

Uducupa tubiri tw'umuhodo dufite imifuniko ifite ibara rijya gusa kaki. Utwo ducupa tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Kuri utwo ducupa hakaba hariho ishusho y'ikimera bita igikakarubamba. Utwo ducupa tukaba tubikwamo imiti ya gakondo. Ku ruhande hakaba hari n'ishashi ifite ibara ry'umweru, harimo n'irindi bara rijya gusa kaki, ndetse n'inyuma yaho, no ku ruhande hakaba hari agakarito gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru. Byose bikaba bibikwamo imiti ya gakondo.

Igihingwa gifite ibibabi kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, gifite ibara ry'icyatsi, cyifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo ndetse kikanifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Ibimera kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu birindwi umunani icyenda icumi cumi na kimwe cumi na bibiri. Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Ibinini byinshi bifite ibara ry'icyatsi, biri mu gakoresho kabugenewe gashinzwe gufata ibinini byamenetse hasi hari ibara ry'umweru, ako gakoresho kakaba gafite ibara rijya gusa kaki.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi gifite n'ururabo rufite ibara ry'umuhondo, icyo gihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Umugabo uhagaze mu byatsi byinshi, wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara, akaba yambariyemo umupira w'amaboko magufiya, ufite ibara ry'umutuku, akaba afashe igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, cyifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo.